Itsinda ry'abaganga bambaye imyenda y'ubururu, udupfukamunwa n'ingofero, imbere y'abo haryamye umurwayi na we bambitse imyenda y'ubururu uryamye bari kubaga, iruhande rw'abo hari icyuma cyifashishwa mu buvuzi mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Abantu bicaye harimo abambaye ikoti ry'umukara, n'undi wambaye itaburiya y'ubururu, bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, amakayi, terefone, n'ibindi, imbere yabo hari umugore wambaye ikoti ry'umukara, ikanzu y'igitenge n'akana gato, hirya hari abandi bantu bicaye ku ntebe'urubaho ku murongo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru iciyemo uturongo tw'umukara ndetse n'ipantaro ya kake ari gutera urushinge akana kambaye ikanzu y'icyatsi, imbere y'ako kana hari umubyeyi witeye igitambaro mu mutwe, ahagana hirya ku meza ihari iriho udukoresho dutandukanye hari undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Umwana ufite igitenge ku rutugu wambaye agakanzu k'umutuku afashe ijerekani ari kuvoma ku iriba rifite robine ebyiri iruhande rwe hari umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'agatambaro mu ijosi k'umweru kandi hirya hari umutaka munini w'ubururu inyuma yabo hari abandi bantu benshi bari kubitegereza.

Ikiganza cy'umuntu giteze ku iriba, robine y'icyuma irikumena amazi, hasi hari umugezi ndetse n'amabuye ahagana hakurya hari ibihuru.

Itsinda ry'abantu bane, barimo abagore bicaye hagati y'abagabo bari ku mpande. Umugabo umwe yambaye ishati y'umukara ndetse afite mudasobwa imbere ye. Undi mugore umwegereye afite indangururamajwi ari kuvuga. Undi umwegereye yambaye ikoti ry'ubururu. Imbere yabo hari ameza manini ashasheho igitambaro cy'umukara, kandi ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa. Inyuma yabo hari igitambaro kinini cy'ubururu.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu n'ipanantaro y'ikoboyi uhagaze iruhande rw'umwana wambaye agapira n'agakabutura k'umutuku uri kwikorera indobo, imbere y'uwo mwana hari iriba rinini ririho rubine enye zose bavomeraho.

Abana bazengurutse iriba harimo uwambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'uburu n'umutuku wifashe mu mayunguyungo. Imbere ye hari amajerekani y'amabara atandukanye nk'umuhondo, umukara n'ubururu. Inyuma hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu uri guhaga amazi mu iriba ngo bavome.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo, ndetse n'ijipo ya kake, arunamye ari gukaraba intoki, imbere ye hari indobo nini ifite ibara risa nk'ijipo ye, naho agana hasi hari ikarayi, hirya ye hari igiti giteye, ndetse n'abandi bana bambaye imyenda y'ishuri.

Umugore wambaye itabubura y'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse, yashyize akuma ku gutwi kwe, yateze ku nda y'umugore uryamye, utwikirije igitenge kirimo uturongo tw'umutuku hirya ye hari undi mugore wamukoze ku rutugu nawe wambaye agakanzu.

Abana baje ku iriba ry'icyuma, harimo umwe wambaye agapira k'umweru, ikoboyi yambaye n'akagofero ari gupomba amazi, imbere ye hari akana gafite utubirido tubiri, turimo ibara ry'umweru n'umuhondo uri kuvoma, ahagana hasi hari karayi hakurya hari undi mugore wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'igitenge.

Umuntu wambaye hejiri y'umukara n'ishati y'umweru mo imbere, imbere ye hari imeza iteretseho ibintu bitandukanye bimwe n'amakarito ari mu ibara ry'icyatsi, naho hirya hari undi mugore wambaye agapira k'icyatsi, ijipo y'umukara n'isaha y'umweru ukuboko, begereye igikuta cyubakishije amatafari ahiye manini.

uruhurirane rw'abantu harimo umugabo wambaye umupira w'umutukura n'ipantaro y'umukara imbere ye hari abagore ndetse n'abana n'amajerekani menshi afite amabara atandukanye nk'umuhondo icyatsi n'ubururu ndetse n'amabase n'ibikaraye hejuru ku iriba hagaze umwana wambaye igitenge ku rutugu n'akajipo ka pinji.

Abantu bicaye mu matsinda bagiye bazengurutse buri meza kandi bicaye mu ntebe z'imituku, urugero nk'umugore wicaye imbere wambaye agapira k'umweru yicaranye n'abazungu, umwe wambaye ishati y'ubururu, undi wambaye ikoti ry'umweru, undi wambaye ikoti ry'umukara, imbere yabo iyo meza iriho igitambaro cy'umukara, iteretseho amakayi, uducupa tw'amazi yo kunywa na za mudasobwa.

Ibiganza by'umwana biri gutega ku mazi ari kuva muri robine ari gukaraba, hirya yaho hari ameza manini ateretseho indobo y'amazi ndetse n'isabune yifashishwa mu gukaraba intoki.

Umuntu wambaye itaburiya y'icyatsi agapfukamunwa afashe urushinge ari gutera ku kuboko k'umudamu wambaye agapira k'umukara n'ingofero mu ijosi yambayemo agakapu inyuma ye hari abandi bantu benshi batandukanye nabo bari gutanga ubuvuzi.

Itsinda ry'abantu batandukanye. Bicaye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo umweru, icyatsi, umukara. Ndetse hari n'abambaye amakanzu y'ibitenge nk'umugore uri imbere wipfumbase, iruhande rwabo hari akameza gato kariho amazi yo kunywa.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri yiganjemo ibara ry'umutuku, arimo arakaraba intoki ze, imbere ye hari indobo yumutuku, iriho akabase ka oranje, amazi arimo aragwa mu kabase, inyuma y'uwo mwana hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abagabo babiri bambaye amashashi y'ubururu udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki tw'umweru, imbere y'umwe wunamye hari umusaza wegamye wambaye imyenda y'umukara n'akagofero k'ubururu wasamye, bari kumupima mu kanwa, hirya yabo hari ihema ry'umweru ryegereye imeza bateretseho ibikoresho bari kwifashisha.

Umubyeyi wambaye ikanzu witeye igitambaro kirimo ibara ry'umuhondo n'umukara yambaye amashanet mu ijosi kandi yambaye amadarubindi hari n'yandidi mashei yambaye ku gahanga ke akikijwe n'abana batandukanye harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umutuku n'ubururu.

Umusaza wambaye ingofero n'ikote bisa umukara n'agapira k'umweru bamwambitse akuma ku kuboko gapima umuvuduko w'amaraso, imbere ye hari abagore bambaye amataburuya y'ubururu n'undi wambaye agatambaro mu mutwe k'umweru, imbere hari imeza nini irambuyeho igitambaro cy'umweru.

Itsinda ry'abantu batandukanye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, nka kaki umukara, umutuku, umweru, ndetse n'ubururu bicaye munzu iteye irangi ry'umuhondo irimo intebe z'umukara, bicaye hamwe bari kuganira mu itsinda.

Abagore batatu bicaye mu ntebe z'umweru, babiri bambaye amataburiya y'umweru, undi wambaye itaburiya y'ubururu, gusa afite agatambaro k'umweru n'ishati y'umweru, babiri bafite udupapuro mu ntoki tw'icyatsi n'amakaramu bari kwandika mu bitabo biri imbere yabo, uri hirya we ari kubitegereza.

Umugore wambaye agapira k'umweru, uteruye umwana mu bishura by'umweru, iruhande rwe hari umugore wicaye uteruye amakayi ndetse n'ibindi bikoresho nk'imiti n'ibindi, inyuma yaho hari idirishya rinini risa umukara.

Icyuzi cyubakiye mu buryo bw'uruziga kandi hejuru gikorotirije ibyuma bisize irange ry'ubururu, hakurya harimo inzira yerekeza ku nzu iteye irange ry'umweru ishakaje amabati y'umutuku, hari abantu kandi bambaye amajire y'icyatsi.

Abana bararamye bari guseka bahuje ibiganza byabo byombi hasi hari indobo y'umutuku irimo amazi inyuma y'abo bana hari umugabo uhagaze wambaye agashati k'ubururu n'ipantaro y'umukara afite igikombe mu ntoki ari gusukira abana amazi ngo bakarabe.

Umugore wambaye agapira karimo utubara tw'umutuku, umweru ndetse n'icyatsi ukenyeye igitenge, yikore injerekani ifite ibara ry'umuhondo, umupfundikizo wo urasa umutuku yayifatishije amaboko ye yombi, iruhande rwe hari akana kambaye umwenda w'ubururu, imbere ye hari akandi kikoreye akajerekani bavuye kuvoma.

Abantu biganjemo abagabo, bambaye imyenda ifite amabara nk'umukara, umweru, ndetse n'ubururu, bicaye mu buryo bw'uruziga bazengurutse ameza asa icyatsi, kandi iteretseho ibikoresho bitandukanye, nk'impapuro amakara muri telefone zabo ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahuriye ku iririba baje kuvoma, harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umuhondo n'ipantaro yikoboyi y'ubururu washikamiye iriba, imbere ye hari abana batoya ndetse n'abakuzemo, kandi hateretse amajerekani asa umuhondo wererutse ndetse n'uwijimye.

Umugabo wambaye agapira ka oranje wunamye ari gukora ku mwana amuywesha amata mu nkongoro, uwo mwana ateruwe n'umugore wambaye agapira k'umweru n'igitenge, hirya hari abandi bagore nabo bambaye udupira tw'umweru bateruye abana.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati y'igitenge mo imbere, ari guha umuti umwana w'uruhinja wambaye agapira k'umweru n'akagofero, uteruwe n'undi mugore uri guseka wambaye ikanzu y'igitenge wicaye mu ntebe.

Umugabo wambaye ingofero, umupira by'ubururu ari gukorera umwana akajerekani k'umuhondo, imbere ye hari umuzungu wambaye ijiri n'umupira w'umweru, afite terefone ye mu ntoki ari gufotora inyuma yabo hari undi muntu uhahagaze.

Umugore uhetse umwana mu gitenge kandi arunamye yambaye agapira k'icyatsi arimo aroza umufuniko w'indobo isa umutuku, hasi hari indobo isa umuhondo, hirya ye hari iriba ry'icyuma rizengurutswe kandi n'izindi ndobo harimo isa umutuku n'ubururu.

Abantu batandukanye baje ku iriba kuvoma, imbere yabo hari amajerekani atonze umurongo afite ibara ry'umuhondo, naho ku ruhande hari akazu k'amazi gahagazemo umuntu wambaye umupira w'umukara ahagana mu idirishya, ako kazu k'amazi gafite ibara ry'umweru n'iry'ubururu.

Abagore babiri bambaye ibitenge kandi bakenyeye n'igitambaro mu mutwe, hejuru yabo hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ateruye umufuka ari kuwubahereza kandi bose barawuteruye uko ari batatu bawukozeho.

Umugore wambaye ikanzu irimo uturongo, tw'umweru, umukara, n'umuhondo, ateruye umwana wambaye agapira k'umweru, ndetse n'agakabutura k'ubururu, uwo mugore yambaye agapfukamunwa ateruye uwo mwana, mu bishura, inyuma ye hari undi mubyeyi, wambaye agapfukamuwa k'umukara nawe uteruye umwana, inyuma yabo hari igikuta cy'umuhondo'idirishya rinini.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, igitambaro cy'umukara mu mutwe ndetse n'ikote mo imbere rifite ingofero ari kwambika umudamu umwegereye agakoresho kifashishwa mu kumenya imiterere y'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso umugore wicaye imbere kandi yambaye ishati y'umutuku n'agatambaro mu mutwe ndetse akinyeye n'igitenge inyuma ye hicaye abandi babyeyi babiri.

Abantu bari hamwe bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, icyatsi, umweru n'umuhondo, harimo abagabo bambaye ingofero ndetse n'abagore biteye ibitambaro mu mutwe kandi bafite ibipapuro imbere yabo by'umweru byanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ibihuru ndetse n'akazu k'amabati.

Itsinda ry'abantu bari ku murongo harimo abicaye imbere ndetse n'abandi bahagaze inyuma bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, ubururu, inyuma n'umukara, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu bicaye mu ntebe z'umukara harimo abagore babiri n'abagabo batatu. Umugabo umwe yicaye hagati yabo bombi ahagana ku idirishya rinini ririho amarido y'umweru, hagati yabo harimo ameza manini ateretseho ibintu bitandukanye nk'amacupa y'amazi yo kunywaha, amakayeyi, ibitabo na telefone z'abo bantu.

Abana bakikije iriba harimo wambaye agapira k'umutuku ikabutura y'icyatsi yambaye bote afite inkoni mu ntoki, uri hirya afite icyuma k'iriba arimo arahaga amazi ngo azamuke abandi bari kumurebera, imbere yabo hari ijerekani y'umuhondo iri ku mugezi naho abandi bana bahagaze bambaye agapira nk'ubururu, umukara n'ipantaro ya kaki.

Abantu benshi cyane bicaye bagose ameza manini y'umukara ateretseho ibikoresho bitandukanye bari kwifashisha nk'amakayi, amakaramu amacupa arimo amazi yo kunywa amatelefone yabo na za mudasobwa hagati y'ibyo bihande bibiri harimo kamera ifata amashusho naho imbere hari amashusho ari kugaragara mu buryo bugari.

Itsinda ry'abaturage bicaye mu ntebe z'imbaho, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye nk'umukara, umweru harimo n'abambaye amakanzu y'ibitenge, igikuta kiri inyuma yabo giteye irangi ry'umuhondo ariko na nonene kimanitseho impapuro z'umweru.

Umugore wafashe ku ijerekanaka wambaye agashati k'umweru n'igitenge kirimo utubara tw'icyatsi. imbere ye hari umugore ukenyeye agatambaro k'umutuku wifashe inyuma ku mugongo we. imbere yabo hari amajerekani arimo ibara ry'umuhondo menshi, baje kuvoma ku iriba.

Umuntu uhagaze yambaye agapira k'umweru yikoze mu gatuza, naho ukundi kuboko kw'iburyo gufashe indangururamajwi y'umukara yambaye kandi isaha ku kuboko, inyuma ye hari ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima "Yunisefu", noneho ku ruhande rw'iburyo bwe hari icyapa kiriho ibirango biri mu mabara atandukanye.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo arunamye mazi menshi afite ipara y'umuhondo ari kuvoma, hirya hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo n'ikakabutura y'umukara, ari koza igare, hakurya hari ibihuru bikikije amazi barimo.

Umwana wambaye agapira k'umweru ufite udusaro tw'amabara atandukanye mu mutwe, yicaye ku bibero by'umubyeyi kandi iruhande rwe hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru uri kumutera urushinge ku kuboko kwe.

Itsinda ry'abantu harimo abambaye amataburiya y'ubururu kandi harimo n'abambaye amakote y'umukara n'amashati y'umweru, hagati harimo umugabo wambaye ikote rya kake, ishati y'umumweru n'ipantaro y'umukara muremure kuruta abandi, barahagaze bose bari kwifotoza, inyuma yabo hari igiti kinini.

Itsinda ry'abantutu ririmo abakecuru bicaye ku gasima ariko ku ruhande rwabo hari n'abana, ku ruhande rw'imbere hari abandi biganjemo ababyeyi bicaye nabo ku gasima, inyuma yaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhande rwe hirya harasa umukara, iyo nzu kandi isakaje amabati y'umutuku.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari guha akanini umwana wambaye agapira k'umukara, hirya y'uwo muntu kandi uhagaze hicaye umugore wambaye agapira k'umuhondo n'undi wambaye ikanzu y'umutuku.

Itsinda ry'abantu bicaye mu ihema harimo abagore n'abagabo, harimo n'umupolisi wambaye imyenda y'akazi. Imbere yabo ahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki ze, hakurya hari abandi bantu bahagaze bitwikirije imitaka.

Umwana wunamye wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara arimo arafungura robine ifashe ku ndobo kugira ngo akarabe. Iyo iri imbere ye irasa umweru, ifite umupfundikizo ndetse n'umukondo by'ubururu, iteretse ku kameza gafite amaguru y'ibyuma. Hirya y'uwo mwana kandi hari urugo rwubakishije ibikenyeri.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda itandukanye ifite amabara arimo umukara, umweru , umutuku, ndetse n'ubururu, bicaye mu buryo bw'uruziga, hagati yabo harimo imeza iriho igitambaro cy'umweru iteretseho mudasobwa, amakaye ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umuntu wambaye umupira w'umweru wakenyeye igitenge, afashe ijerekani y'umuhondo, iruhande rwe hari n'izindi, imbere ye hari iriba rinini ririho robine ebyiri ziri kumena amazi, yaje kuvoma. Ku ruhande hari imirima y'intoki n'ibindi.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru afite agatabo mu ntoki ndetse n'indangururamajwi, imbere ye hari abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu ihema rirambuyeho udutambaro turikoze ibara ry'u Rwanda dufite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bambaye amatabure y'ubururu ndetse n'utubaranga mu ijosi ,bari gukoma amashyi banabyina . Imbere yabo hahagaze umugabo w'umuzungu uri gukoma amashyi wambaye ikote ry'umukara. Inyuma yabo hari inzu iteye irangi ry'umuhondo n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'igiti kibegereye.

Umugore wambaye ishati y'ubururu witeye igitambaro mu mutwe afashe ijerekani ye ari kuvoma, hirya ye hari umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku ufashe kuri robine, imbere yabo hari iriba rinini ririho amatiyo abiri y'amazi iruhande rw'iriba hari ishyamba.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi n'umweru. Bamwe barahagaze abandi bicaye hasi, imbere yabo hari ihema ry'umweru ryegeranye n'inzu iteye irange ry'umweru, isakaje amabati y'umutuku.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu, ibyo biganza birimo birafunga amaburo ku kintu kiraho imbere y'ibyo biganza.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye nk'umutuku umweru hari n'abambaye amakoti y'umukara, bagose ineza nini ya kake iteretseho ibikoresho bitandukanye nka za mudasobwa, telefone, amakaye ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Itsinda ry'abantu higanjemo ababyeyi bicaye, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, ufite amakayi mu ntoki n'ikaramu uri kubasobanurira.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru n'ikanzu y'igitenge mo imbere, ibikomo ku maboko, ari guha umwana umuti akoresheje agakoroboyi, umwana wambaye agapira k'umweru uteruwe n'umubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge uri guseka, inyuma yabo hari urugi rusa icyatsi.

Umugore usutamye wambaye agapira k'umutuku, uri koza umwana wicaye mu ibase, hirya yabo hari undi mugore wazingiye igitenge mu ijosi rye, ufite indobo, imbere ye hari umwana. Bose begereye iriba rifite robine ebyiri, imwe iri hasi indi iri hejuru. Hirya hari inzu iteye irangi ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira ka oranje n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari umugore upfukamye wunamye wambaye agapira k'umukara n'igitenge, inyuma y'uwo mugore upfukamye hari undi mugabo wambaye ingofero y'umweru ishati y'umweru n'ipantaro yacikaguritse ufite indangurumajwi mu ntoki, inyuma yabo hari abana benshi babashungereye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru arahagaze imbere ye hicaye umudamu wambaye agatambaro mu mutwe k'umweru n'agashati k'ubururu afite isakoshi mu kuboko kwe hirya ye hari abandi bantu bahagaze barimo nk'uwambaye ishati y'iroza n'umugore wambaye ibitenge by'umukara hagati i ruhande'uwo mugabo uhagaze hamanitse umunzani uriho agafuka k'ubururu.

Umugore usutamye yambaye agapira k'umutuku ijipo y'umukara, imbere ye hari injerekani y'umuhondo iteretse mu mabase abiri, imbere ye kandi hari robine iri kumena amazi, inyuma ye hari imyenda yanitse ku mugozi naho hakurya hari inzu yubakishije amabati.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'icyatsi ndetse yambaye n'akajiri k'icyatsi n'agapfukamunwa, afite akuma gapima ubushyuhe, imbere ye hari umubyeyi ufite ikiringiti mu ntoki, wambaye agakanzu karimo umweru n'ubururu.

Itsinda ry'abantu, ririmo abagore, n'abagabo, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, nk'umweru, umutuku, ndetse n'umukara, n'ubururu, bahagaze bifotoza inyuma yabo hari igikuta gishushanyijeho abantu, cyanditseho amagambo atandukanye, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, na mudasobwa, n'intebe z'imbaho.

Itsinda ry'abantu bazengurutse iriba ry'icyuma, inyuma hari umubyeyi wambaye agapira k'icyatsi n'ijipo y'umweru, arimo arahaga amazi ngo azamuke imbere harumana ya wambaye agapira k'umutuku, ikabutura y'ikoboyi, afashe ku majerekani y'umuhondo arimo aratega amazi.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda ifite amabara ya oranje n'abandi bambaye amajire ya kake, imbere yabo hubatse akarima k'igikoni barimo barateramo imboga zitandukanye, inyuma yabo hari ibiti by'ishyamba.

Umwana wasetse wambaye agapira k'umweru, imbere ye hari imboga rwatsi dodo, hirya ye hari umubyeyi wambaye agatambaro mu mutwe k'umweru n'ikanzu irimo utubara tw'umukara n'umweru, hirya yabo hari uruta rurerure.

Umwana wateze ibiganza bye byombi ku mazi ari guturuka muri robine ari kuyanywa, inyuma ye hari abandi bantu batonze umurongo bambaye imyenda y'imikara, undi wambaye agakanzu k'umutuku n'undi wambaye umupira w'umukara n'ikoboyi, iruhande rwabo hari intebe ya parasitike.

Umuntu wambaye agapira k'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu bwererutse yambaye kandi uturindantokiw'umweru afashe urushinge ari kurutera mu kaboko k'umugabo wicaye iruhande rwambaye umupira wa kake n'agapfukamunwa k'ubururu inyuma yabo hari abandi bagabo bambaye amatabura y'umweru.

Itsinda ry'abantu bambaye amajiri ya kake n'udupira twa oranje. bararunamye abandi barahagaze barimo baranywesha abana amata, abo bana nabo bambaye udushati n'udupira twa oranje, ibikombe bari kubahesha birasa kake abandi bari kubahesha inkongoro.

Umwana wunamye wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura ya kake wafunguye robine amazi ari kujya mu kabido gafashwe n'umwana uri imbere y'iriba rinini. Inyuma y'iriba hari umuhanda uri gucamo abana bambaye imyenda y'ishuri ya kake ndetse n'ubururu.

Itsinda ry'abantu batandukanye, harimo, abagore, n'abagabo nk'urugero hari umugabo uhagaze hagati y'ibihande bibiri, wambaye ishati y'umweru wikoze mu mufuka, iruhande rwe hari abandi bantu bambaye nk'imyenda ifite amabara y'icyatsi umweru, umukara, umutuku n'indi, inyuma ya icyapa giteretse hagati igishushanyijeho'umugore kiririmo ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyuzi cyubatse mu buryo buzengurutse, kirimo ibiraro bihurira mu kantu kari hagati, ibyo byose ni byinshi kuko no ku mpande hari ibindi, kandi aho biri hakikijweubusitani.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri, uri gukaraba ibiganza, imbere ye hari indobo yicyatsi, ndetse n'ibase iri hasi y'icyatsi cyerurutse, yasetse inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ya munyu.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, imbere ye hari amamashini yifashishwa mu buvuzi buteye imbere kugira ngo barebe uko ubuzima bw'umurwayi uri kuvurwa buhagaze.

Igishushanyo kiri mu ruziga kirimo umuntu uteruye umwana ukiri mutoya gikikijwe n'amashami, ni ikirango kiranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana yunisefu kiri mu ibara ry'ubururu.

Umubyeyi wambaye ibitenge wunamye ari kuvoma amazi mu kibase kinini kimwegereye afashe indobo isa icyatsi, hirya ye hari abandi bagore babiri bari gupompa amazi ngo ave mu iriba.

Umuntu uhagaze mu busitani, yambaye ishati irimo amabara abiri; umuhondo, n'umukara, ndetse ipantaro n'inkweto nabyo bisa umukara, inyuma ye hari inyubako iteye irangi rya pinki hejuru ditseho amagambo arimo ibara ry'ubururu, iyo nyubako iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo, ndetse n'ibiti nk'imikindo n'ibindi.

Umugore wambaye ikote n'agapira gaciyemo uturongo tw'umuhondo n'umukara, arahagaze afite isuka mu ntoki kandi yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba, inyuma ye hari inzu ishakaje amategura.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge afite isakoshi mu kuboko kwe kw'ibumoso, naho mu kuboko kwe kw'iburyo afite indangururamajwi, imbere ye hahagaze umugore wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara bagiye guhura, hirya hari abantu benshi bicaye mu ntebe bose hamwe bari mu nzu iri kwaka amatara ifite amarido y'umweru.

Abana benshi bambaye imyenda isa nabi yacikaguritse barimo bararira, bamwe bateze ibiganza abandi bamanitse ibiganza, ubona ko ari impunzi zishonje cyane ziri gusaba ubuhungiro cyangwa se ibyo kurya.

Umugore wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'agapirama mu imbere k'ubururu bwerurutse yasetse, inyuma ye hari utubati turimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu butetsi nka sositomate n'ibirungo.

Itsinda ry'abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, higanjemo umutuku, umweru n'umukara, bicaye mu cyumba giteye irangi ry'umweru ku bikuta, parafo irasa umweru, basa nk'aho hari umuntu bakurikiye imbere yabo bateze amatwi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara yacikaguritse uhetse amashashi ku rutugu rw'iburyo naho mu kuboko k'ibumoso afite igitebo, mu maso arasa igikara inyuma ye hari ikimodoka kinini gifite ibara ry'umukara n'icyatsi.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'imbaho harimo umwe wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uri hagati ya bose, imbere ye hari imeza nini iteretseho agatabo, telefone n'agasahane, ku rundi ruhande hari abagore bateruye abana babo.

Itsinda ry'abantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye nk'umweru, amakote y'ubururu ndetse n'umukara, ab'imbere bifashe mu biganza abahagaze inyuma yabo bamwe bari guseka, iruhande rwabo hari icyapa kinini kirimo ibara ry'umweru n'ubururu.

Ishusho y'umutwe w'umuntu, ufite impuzankano y'ibara ry'umweru, handitsemo amagambo ari mui ibara ry'icyatsi, agira ati ubuzima bwo mu mutwe uyu munsi ku isi buhagaze bute.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bamwe baricaye abandi bari inyuma bari kwifotoza, bambaye imyenda ifite amabara harimo umuhondo, umukara ,umweru ndetse n'umutuku, inyuma yabo hari icyapa kinini gifite amabara yumutuku, ndetse n'umweru kirimo ikirango cya arabisi kiri mu ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi.

Itsinda ry'abantu bahagaze bambaye imyenda ifite amabara y'umukara n'umweru bose bahurije ibiganza byabo ku rupapuro rw'umweru, inyuma yabo hari imodoka ya tagisi ifite ibara ry'umweru ikinguye umuryango, ku ruhande rwinyuma cyane hari ihema risa umweru.

Umusaza wambaye ishati y'umweru urimo uturongogo tw'umukara witeye umwitero w'umuhondo ku rutugu rwe, afite icumu mu ntoki rifite ibara ry'umukara ndetse na kake, yambaye ingofero yasetse afite ibihanga, inyuma ye hari urugo rw'ibisharashara

Itsinda ry'abantu harimo abambaye imipira y'imyeru amapantaro y'imikara ndetse n'amashati y'imikara bafite ibyapa mu ntoki bifotoje bahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini kirimo ibara ryiganje rya oranje, icyatsi gikeya ndetse n'umweru.

Ikirango cya polisi y'u Rwanda kirimo inuma ndetse n'ikirango cya repubulika y'u Rwanda amagambo yanditseho y'umukara avuga ngo isange wani sitopu senta, hasi hari ibindi bimenyetso by'imiryango itandukanye nka yunisefu ndetse na yunesiko Rwanda.

Umuntu wambaye agapira k'umukara n'ipantaro, n'amadarubindi, yafashe kuruhande rw'ibumoso ahagana ku rutugu, undi muntu wambaye ingofero ya gisirikare, n'imyenda y'umutuku wifashe ku itama yicaye mu ntebe y'urubaho.

Umubyeyi wambaye agashati k'umweru aricaye mu kiganza cye afitemo telefone ikindi ikiganza afitemo akuma agapima umuriro, yegeranye n'umugore wambaye akantu mu mutwe uteruye umwana ari kumwereka ibimenyetso.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu wi umwitero w'umuhondo yasetse afite ibihanga yambayegofero kiriho ubwoya inyuma ye hari undi nawe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'umwitero w'umuhondo.

Ikirango cya repubulika y'u Rwanda kegeranye n'ikirango cy'ikigo k'igihugu cy'u Rwanda kita ku buzima arabisi, hirya hari ikindi kirango kiranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana yunisefu, hasi hari agatambaro kazinze kari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'amagambo akegereye nayo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ngo ubuzima bwo mu mutwe.

Abana bambaye udupira tw'umuhondo ndetse n'udupapuro mu mutwe barishimye, bari guseka, barimo gukoma amashyi, hirya hari n'abandi bana benshi nabo bambaye imyenda yose ifite ibara ry'umuhondo.

Umuntu wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ikanzu y'igitenge m’imbere wifashe mu maboko ye, imbere ye yasetse, hirya ye hari icyapa kiri mu ibara rya orange cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere ye hari urugi ruri mu ibara rya shokora.

Umuntu wambaye agapira k'umutuku, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi n'ininkweto z'umukara, wicaye wazamuye amavi washyize amaboko ye hejuru y'amavi ye, ari kureba hano, inyuma ye hari igikuta kinini gishushanyijeho ibintu by'umukara, ahantu yicaye ni ku nzira, kandi hari umwanda nk'amashashi n'ibindi.

Abantu bicaye ku ntebe z'urubaho, basetse harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, nk'umutuku, umweru, ubururu, harimo n'abandi babyeyi kandi bambaye ibitenge begeranye n'akana, iruhande rwabo hari inzu, iteye umucanga ifite amadirishya yumutuku.

Itsinda ry'abantu bambaye udupira tw'ubururu n'abandi bambaye imyenda y'imikara isanzwe bahuriye hamwe bifotoje bahagaze iyindi foto iragaragaza barimo bacukura batera ibiti.

Umuntu wicaye yambaye ubusa yazamuye akaguru ke k'iburyo yarengejeho akaboko ke k'iburyo, akaguru k'ibumoso ke kararambuye yambaye amapingu ku kaguru, yicaye hasi ahantu hasa nabi, ibikuta by'aho yicaye harasa umweru.

abantu bambaye imipira y'ubururu hejuru hasi bambaye amapantaro y'umukara umweru ndetse na kake, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru karuvati bisa n'ipantaro y'umukara, hakuno hahagaze umuzungu wambaye ikote rijya gusa beje n'ipantaro y'umukara.

Umugabo usa nabi wambaye ibyenda bicikaguritse kandi ufite ibishashi by'amoko atandukanye yiziritseho, yambaye urugofero mu kuboko kwe kw'ibumoso afite ikintu kimeze nk'imbunda, inyuma ye ni mu ngarani harimo imyanda itandukanye nk'ibishashi, ibipapuro n'ibipe by'imodoka byashaje.

Umwana wambaye agapira k'umweru wikoreye amaboko uri kurira inyuma ye hari umubyeyi ufite inkwi' mu ntoki wambaye imyenda irimo utudomodomo naho inyuma yabo hari itsinda ry'abantu benshi basa nkaho ari impunzi ririmo abana n'abantu bakuru bikoreye amajerekani imyenda n'ibikapu byabo.

Itsinda ry'abantu batandukanye, harimo abagabo bambaye imyenda ifite amabara nka oranje ,ubururu, umukara, umutuku . n'abagore bambaye imyenda y'ibitenge, n 'amapantaro n'amashati imbere yabo bahagaze umugore wambaye ikanzu yumweru n'agakoti k'umukara, ari hagati yameza manini ariho igitambaro cy'umweru, ndetse n'ubururu ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye nk'uducupa tw'amazi amasakoshi n'ibindi.

Umugabo wicaye wifashe mu biganza yambaye isaha y'umukara, itaburiya y'umweru ndetse n'agapira mu imbere k'umuhondo, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi, hirya ye hari igitanda kigezweho gifite ibara ry'icyatsi kibisi, inzu arimo iteye irange ry'umuhondo kandi harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Umugabo wambaye umupira w'umweru arasamye afite kandi n'amenenyo y'umweru, mu maboko ye yombi afite akagozi ari gucisha mu menyo ye. Ni kagozi kifashishwa mu gusukura amenyo.

Umwana uryamye ugaramye wasamye iruhande rwe hari umuganga wambayetubala y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ibara ry'icyatsi kibisi afite akuma mu ntoki kifashishwa mu buvuzi bw'amenyo arimo aravura uwo mwana amenyo.

Umugabo uryamye hasi wambaye ishati y'ubururu bwijimye, arasamye, hari akantu k'umweru kamuri mu kanwa, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'apfukamunwa ndetse n'uturindantoki tw'icyatsi, afite udukoresho dutandukanye mu ntoki ze ari kwifashisha avura amenyo.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo n'amaherena ku gutwi, arararamye kandi arasamye, umuganga wambaye uturindantoki afite utwuma twifashishwa mu kuvura amenyo, ari kumuvura mu kanwa.

Ibiganza bitatu harimo ikiganza kimwe cyambaye isaha ku kuboko, harimo n'ibindi bifashe utwuma twifashishwa mu buvuzi bw'amenyo. Imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa ubu buvuzi bw'amenyo.

Itsinda ry'abantu bicaye ku ntebe za kake bambaye imipira y'icyatsi yanditseho amagambo y'umuhondo mu gatuza inyuma yabo hari abantu babiri bambaye y'imyenda naho imbere y'abo bantu bambaye udupira tw'icyatsi hari ameza nini iriho igitambaro cy'umweru iteretseho uburoso bwoza amenyo barimo bariga uko babukoresha.

umugabo wambaye ikotE ry'ikoboyi, imbere Harimo agapira k'ubudodo gafite ibara rya shokora, yasetse afite ubwanwa ndetse n'imisatsi y'umukara. Amenyo ye arasa umweru.

Umugabo n'umugore we bari kumwe bose bambaye udupira tw'utweru kandi bose bazamuye amaboko yabo bafite utudodo mu ntoki bari kuducisha mu menyo yabo, basetse barishimye kandi bari kwireba mu ndorerwamo.

Abana bambaye imyenda y'ishuri irimo amashati ndetse n'amakabutura, afite ibara rijya gusa ubururu bwijimye, afite ibikombe mu ntoki ndetse n'uburoso bw'amenyo barimo baroza amenyo.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki dufite ibara ry'umutuku bifite mu ntoki akuma kifashishwa mu buvuzi bw'amenyo kandi ikiganza cy'ibumoso gifashe amenyo mu ntoki bisa nkaho bari kwigiraho ubuvuzi bw'amenyo.

Umugore n'umugabo bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu twerurutse imbere yabo hicaye umwana wambaye agapira k'umukara n'agapfukamuwa k'umweru bari kumupima mu kanwa imbere y'uwo mwana yashyize akaboko ke ku meza nini iriho impapuro n'ikaramu inyuma y'abo baganga hari ibyapa kimwe gishushanyijeho abantu ikindi kiri mu ibara ry'ubururu cyanditse amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, afashe umwana ku rutugu wambaye ishati y'icyatsi, ari kumwereka uko boza amenyo, inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umweru, wahurije amaboko ye imbere ye, hirya ye hahagaze abandi barimo umuzungu wifashe mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo, ndetse inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo y'umweru.

Umugabo wambaye umwenda wo kurarana ufite ibara ry'umukara, uriho akarongo k'umweru ku nda ndetse no ku kaboko, ari kwireba mu kirahure. Afashe uburoso bw'amenyo ari koza amenyo ye, inyuma ye hari urugi ruriho irido rifite ibara ry'umutuku.

Umuntu wambaye agasengeri k'umweru afite imisatsi y'umukara yashinyitse, afite amenyo y'umweru mu biganza bye byombi afitemo akagozi ari kugacisha mu menyo, ku matwi ye yombi hariho amaherena.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ari kwireba mu kirahure, intoki ze zombi zifashe akagozi k'umweru yakanyujije mu menyo ye yera, yashinyitse kandi afite umusatsi w'umukara.

Icyumba giteye irange ry'umweru ryiganje harimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda baryamishaho umurwayi mu gihe ariko ubu kuvurwa cyegeranye n'icyuma gifite televiziyo ifite ibara ry'umukara, ni icyuma cyifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi uri kuvurwa buhagaze. Ku ruhande rwo hirya hari akabati gateretseho ibintu bitandukanye nk'imiti n'ibindi.

Umwana wambaye agakanzu n'agapira k'umweru ndetse n'akararabo ku mutwe afite uburoso bw'amenyo yabushyize mu kanwa ari koza amenyo inyuma ye hari intebe nini y'ubururu hirya hari ibindi bikoresho ndetse n'ubukarabiro.

Umuntu wambaye agasengengero k'umweru, ari kwireba mu kirahure, imbere ye hateretse utundi tuntu dutandukanye, nk'ikirahure kirimo uburoso bw'amenyo, mu ntoki ze afite uburoso bw'amenyo ari koza amenyo ye, yasetse afite imisatsi myinshi yumukara itemba igera ku ntugu.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu uturindantoki tw'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, afashe utwuma yadushyize mu kanwa k'umuntu uryamye ugaramye bari kumuvura amenyo.

Umusaza wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara afite inkoni ku itako rye, yegeranye n'umwana nawe wambaye agapira k'umweru n'ikanzu y'umutuku n'undi uri hirya ufite akabido uri kunyweramo, inyuma yabo hari umuryango ufunguye.

Umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantalo ya kake afashe ku byuma bibiri biteganye agiye kugenda hagati yabyo, iruhande rwe hari umugore wambaye agashati k'umweru n'ipantalo y'umukara ufite na telefone mu ntoki uri kumwerekera, mu nzu barimo kandi harimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda na puberi n'ibindi.

Umukecuru wasetse wambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara n'irindi ry'ivu, amaboko ye ari imbere kandi afashe udukoresho dufite ibara ry'icyatsi ni udukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

umusaza wambaye ishati iciyemo uturongo wegeranye n'umukecuru wambaye ikanzu y'umweru. Uwo musaza afite terefone mu ntoki ariko bose bafite urupapuro bari gusoma. Imbere yabo hari ameza manini ariho impapuro nyinshi.

Itsinda ry'ababyeyi bakuze bambaye amakanzu y'ibitenge afite amabara arimo ubururu, umutuku ndetse n'umweru inyuma yabo hari undi mugore witeye agatambaro k'umweru wicaye mu ntebe za parasitike zifite ibara ry'umweru naho, inyuma yabo hari umurima w'insina.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku, uri guseka, yambaye n'amadarubindi, afite icyuma ndetse n'imfurukanya mu ntoki ze ari gukata ibyo kurya, yeranye n'umukecuru wambaye ishati yubururu agatura k'umu' imbere wafashe ifurukan agiye gutamira, imbere yabo hari ameza ateretseho amasahani ariho ibiryo ndetse n'igikombe cy'kirahure cy'amazi.

Umusaza wambaye ishati y'umweru uciyemo uturongo n'ipantaro ya kake amaboko yombi yafatishije ku kuma gafasha abantu kugenda neza, hirya ye hari umuntu uri kumufasha kugenda. Aho bari ni mu nzu irimo ibikoresho biteye irangi ry'umweru, gusa hari akabati imbere yabo gafite irangi ry'umweru n'irya shokora.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'amadarubindi wasetse, afite ikayi mu ntoki arimo arasoma, iruhande ari kumwe n'umusore wambaye ishati irimo utudomo tw'umukara n'umweru. Imbere yabo hari ameza manini asa Umweru ateretseho ibikombe by'amatasi by'umweru.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru yegeranye n'umwana muto wambaye agapira k'umweru, imbere yabo hari ameza manini afite ibara rya kake kandi kuri ayo meza hariho udukinisho turi mu ibara ry'umweru, bari mu nzu iteye irangi ry'umweru.

Umusaza wicaye wambaye umupira w'umuhondo ipantaro ikoboyi afite agakoresho kifashishwa mu gukina imikino hirya ye ari kumwe n'umwana wambaye agapira k'icyatsi yicaye mu ntebe zifite imisego irimo ututrongo tw'umweru n'umukara ndetse n'umufariso w'ubururu inyuma ya hari itara ryaka ndetse n'idirishya rinini ry'ibirahuri umusaza kandi yicaye mu kagare k'abamugaye.

Umugore ukuze wambaye agapira k'umweru ipantaro y'umutuku wicaye warambije amaguru yombi, imbere ye ndetse n'amaboko wayafatishije ku maguru ye wunamye yicaye ku gatapi kandi aha ni mu busitani.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara yasetse yafunze igipfunsi, hirya ye hari undi mugabo ufite umupira w'umukara ku bitugu nawe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro irimo ibara ry'umweru n'umukara, afite agacupa k'amazi yo kunywa.

Umukecuru wambaye agapira k'ubururu amarinete, afite imisatsi irimo imvi, afite igikombe cy'ikirahure mu ntoki kirimo amazi, mu kuboko kwe kw'iburyo harimo ibinini arimo aranywa, ari mu cyumba giteye irangi ry'umweru.

Umusaza wambaye umupira w'umweru ipantaro y'ubururu ndetse n'umukandara w'umweru mu nda ye, amaboko ye yombi afashe ku byuma ari kugenderaho, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda y'ubururu uri kumufasha kugenda.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu afite terefone mu ntoki yegeranye n'undi mugore wambaye akantu mu ijosi k'umweru, ishati y'ubururu, imbere yabo hari ameza manini ateretseho agacupa k'amazi, hirya hari iyindi ntebe hakurya hari utubati.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro iciyemo akarongo k'umweru, mu mutwe yambaye agatambaro k'umukara, yegeranye n'undi wambaye umupira w'ubururu ndetse wambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe, bari kugenda mu nzira basa nkaho bari gukora imyitozo ngororamubiri, hirya yabo hari ibiti biteye mu busitani.

Umukecuru wambaye agapira k'ubururu n'umwitero, afite agashakoshi mu kwaha kwe. Yegeranye n'umusaza wambaye ishati y'umweru n'umwitero na we, yiteye urimo ibara ry'umukara n'umweru. Kandi yambaye n'ingofero y'umukara. Ku mpande zabo hari abandi bantu batandukanye, harimo abakecuru biteye ibitenge. Bambaye imyenda irimo umutuku, umweru, n'umuhondo, bicaye mu ihema.

Itsinda ry'abantu bicaye bakoze uruziga bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe za purasitike abandi ku mbaho, hejuru yabo hari igiti.

Abagore bari ku murongo, bari kubyina, bambaye imyenda irimo imipira y'imyeru, amajipo y'imikara, uw'imbere yambaye ikanzu y'igitenge, naho uw'inyuma yambaye umupira w'ubururu n'ijipo y'igikara, ikindi bari ku murongo.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu afite kandi mu ijosi rye agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima utera, yafatanye mu kiganza n'umukecuru umwegereye wambaye agapira karimo uturungo tw'umuhondo n'utwumukara, imbere yabo hari ikimera k'icyatsi kibisi.

Umugore wicaye wambaye imyenda y'umutuku, afite kandi agakoresho mu ijosi rye kifashishwa mu gupima uko umutima utera, yambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afashe ikiganza cy'umukecuru wicaye imbere ye wambaye ikanzu y'igitenge irimo utubara tw'umuhondo n'umweru.

Itsinda ry'abantu batandukanye bicaye mu ihema ry'umweru harimo umugore wambaye ijire y'ubururu ufite utuntu mu ntoki ari guha abantu bicaye iruhande rwe hari inkingi izengurukijeho igitambaro cy'umukara.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ishati yubururu bwijimye, yambaye kandi amadarubindi, afite ikaramu, imbere ye hari ameza ariho ikayi, arimo arandika, inyuma ye kandi hari ari nzu iteye irangi ryumweru.

Umukecuru wambaye agapira k'umweru n'akandi k'imbere k'ubururu amanitse amaboko yombi arire gukurura akagozi gasa umutuku wererutse iruhande rwe hari undi mugore wambaye itaburiya y'uburu bwijimye n'agapira k'umweru n'imbere ari kumwerekera uko akurura ako kagozi.

Itsinda ry'abantu harimo abagore bambaye ibitenge by'ubururu, umweruru ndetse n'abagabo harimo uwambaye umupira w'umukara, agapira n'ipantaro yumukara barimo barakoma amashyi imbere yabo hari umudamu bahereje igikapu kirimo ikiringiti inyuma yabo bose hari ihema ryubakishije ibitambaro byakoze nk' ibendera rya repubulika y'u Rwanda.

Umukecuru wambaye agapira k'umweru, yasetse mu kuboko kwe kw'imoso ateruye akuma gafite ibara rya pinki, ni akuma kifashishwa mu myitozo ngororamubiri bagaterura. Inyuma ye hari abandi bantu bari mu myaka ikuze.

Itsinda ry'abagabo bicaye hamwe bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umweru, icyatsi ndetse n'umutuku. Bicaye mu nzu ifite igikuta giteye irangi ry'umuhondo barimo baraboha ibitebo bakoresheje intoki zabo.

Umukecuru wambaye ikote ry'ubururu n'amaherena ndetse n'agapira ka pinki mo imbere inyuma ye hari umukobwa wambaye agapira ka pinki ndetse ku ijosi rye yambayeho akuma kifashishwa mu gupima k'umutima utera, ari gufasha uyu mukecuru gukora imyitozo ngororamubiri.

Abakecuru babiri basetse barambuye amaboko yabo yombi imbere n'inyuma, ubanza yambaye agapira k'umukara ndetse n'agatambaro ku kaboko k'iburyo k'umweru, umuri inyuma yambaye isengeri y'ubururu n'akandi gapira mu imbere k'umuhondo.

Abantu bari hamwe bambaye amakanzu y'umweru ndetse umutuku n'umuhondo bazamuye ibiganza byabo hejuru harimo n'abafite amasuka bahagaze mu murima w'amasaka n'ibigori n'ibindi.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n' numusaza wambaye ishati yu'ubururu bwerurutse nipantaro yumukara bafatanye ku rutugu barimo bararebana mumaso baseka bari munzira yubakishijwe amapave, kumpande yabo hari ubusitani n'ibiti biteye ku nzira.

Abakecuru babiri begeranye, bose bambaye udupira tw'umutuku, imyitero y'imyeru kandi bafite n'udukoni mu ntoki bari kugenderaho, hirya yaho hari umwana wambaye agapira k'umweru, n'akabutura ka kaki, n'inkweto z'umuhondo, inyuma yabo hari abandi bantu benshi, bari kugenda mu cyerekezo kimwe, iruhande rw'umuhanda hateye insina, kandi hari n'inzu.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'ubururu, bafite ibitabo mu ntoki kandi bakoranye mu biganza. Barimo baraseka inyuma yabo hari icyapa kinini gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, gishushanyijeho ibirango biranga repubulika y'u Rwanda.

Akamenyetso gafite ibara ry'umutuku kihinnye kegeranye n'amagambo y'umweru yanditse mu kirango gifite ubuso bw'ibara ry'icyatsi byose biri mu ikarita y'u Rwanda, ahagana hasi hari uturongo turi mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hejuru hari ibimenyetso bitandukanye nk'ikiranga repubulika y'u Rwanda n'ikindi kiranga ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda arabisi.

Itsinda ry'imboga zitandukanye harimo nka karoti, pavuro, amashu n'izindi nk'inyanya, impeke, nk'ibishyimbo, amageri, imiteja n'ibindi. Hakuno hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku avuga ngo indyo yuzuye ubuzima bwiza.

Abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bambaye udupira tw'umweru, bahagaze hagati mu ishusho ya mpande enye, bafite udukingirizo mu ntoki zabo, inyuma yabo hari amarido y'umuhondo.

Abantu benshi, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara,. bicaye ahagana hasi, imbere yabo hejuru hari abandi bantu harimo abagabo batanu n'umugore umwe, abo bari imbere bambaye amakoti y'imikara, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amashusho y'abantu

Itsinda ry'abantu bicaye ahagana hasi hejuru hari abandi bicayeyo bambaye amakoti y'umukara amakaruvati n'amashati y'umweru, hino hari undi mugore wicaye ufite indangurumajwi, inyuma yabo hari icyapa kininikiri mu mabara y'umutuku umuhondo.

Ikirango cy'inyuguti eshatu arizo ra na ba na ca ziri mu mabara atatu, ariyo ubururu, umuhondo n'icyatsi. Ni ikirango kiranga ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima arabisi.

Abantu bahagaze ku murongo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umweru, ubururu, umukara ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari undi uhera wambaye imyenda y'icyatsi kibisi w'umudaso. Inyuma yabo hari icyapa kinini cy'bururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana wasamye uraramye uri kureba hejuru n'undi muntu uri kumuha ibiryo, hino handitse amagambo ari mu ibara mpuzangano ry'ubururu ndetse n'amagambo yanditsemo ari mu ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abagabo bambaye amakoti y'imikara n'umugore ubicaye hagati, bicaye ku ntebe bakoze uruziga, imbere yabo hari abandi bantu bicaye bari kubakurikira, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'gapfukamunwa k'ubururu, ari gutera urushinge umubyeyi wicaye mu ntebe y'umukara, wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, wifashe ku nda ye, inyuma ye hahagaze umugabo wambaye ishati irimo utudomo tw'umuhondo n'umukara na we wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Abantu babiri bambaye amakote y'umukara, karuvate z'ubururu bicaye imbere mu ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza manini ari mu ibara ry'ikigina iteretseho mudasobwa, indangururamajwi n'uducupa tw'amazi yo kunywa, imbere yabo hari abandi bantu batandukanye, naho ahagana inyuma hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abaganga bagera kuri batanu, bambaye imyenda yubururu, upfukamunwa ndetse n'ingofero, hagati yabo hari umuntu uryamye ku gitanda, uri kubagwa, iruhande rwabo, hari imashini ihari iriho serumu, ndetse na ekara igaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye mu ntebe z'umutuku mu nzu iteye amabara y'umutuku ahagana hasi ndetse n'umuhondo hejuru abo bantu kandi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo amakoti y'umukara n'ababambaye amashati y'umweru ndetse n'abandi bambaye amakoti y'imweru.

Umugore wambaye ijiri y'umukara iciyemo uturongo tw'umweru mu gatuza, yambaye kandi ikanzu yigisengenge irimo amabara y'umuhondo n'agapfukamuwa k'ubururu ari kureba imbere ye, inyuma ye hari undi mugore wambaye itaburiya y'ubururu, agapfukamuwa n'amadarubindi kandi inyuma yabo ku gikuta hasize irange ry'umuhondo, hamanitse n'ibipapuro.

Itsinda ry'abantu biganjemo urubyiruko bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ari naryo ryiganje imbere hari abafashe icyapa kinini kirimo ibara ry'umweru n'umutuku cyanditseho amagambo avuga ngo urubyiruko nirwo rwanda rw'ejo hazaza biririnde virusi itera sida.

Umukecuru wambaye igitambaro mu mutwe cy'umutuku yasetse ariko ku jisho rye ry'ibumoso hariho igipfuko, bigaragara ko ryavuyemo ariko yagiye kwivuza, ahagana hejuru y'iyo shusho hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku avuga ngo ubuzima bw'isi muri rusange.

Umuntu uhagaze yambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'ubururu, imbere ye hari agatutu kari mu ibara ry'umweru n'ubururu, ndetse n'indangururamajwi, hino hari amagambo y'umutuku yanditse mu ibara mpuzankano ry'umweru.

Ikirango cy'uruziga rmo imbere kirimo agaseke, izuba hejuru yako, ishaka n'ikawa, ndetse n'ingabo ebyiri, hasi hari urugori n' ikirango kiranga repubulika y'u Rwanda, hepfo hari amagambo yanditseho ngo repubulika y'u Rwanda Minisiteri y'Ubuzima.

Itsinda ry'abantu, bamwe barapfukamye, abandi barasutamye, abandi barahagaze, bose bazamuye amaboko yabo hejuru, bambaye imyenda ifite amabara arimo umutuku, umweru, umukara, n'andi mabara atandukanye, imbere yabo hari intebe z'umutuku, n'ameza ateretse uducupa twamazi.

Itsinda ry'abantu bicaye mu buryo bw'uruziga harimo umwe wambaye tabuliya y'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'umweru imbere ye hari ameza iriho udukoresho dutandukanye nk'inshinge uducupa tw'imiti hirya hari undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki ndetse n'akamuranga mu ijosi.

Umugore wambaye agapira k'umukara imbere ye hicaye undi wambaye ishati y'umutuku ndetse n'iy'umweru ari kumwambika agakoresho ku kuboko kifashishwa mu kumenya umuvuduko w'amaraso, imbere yabo hari ameza manini ateretseho indangururamajwi hirya yabo hari abandi bantu bari kubareba.

Abantu benshi cyane bambaye imipira y'imweru, abari imbere bafite ibyapa bibiri biriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru arimo mu buso bw'ibara rya pinki, naho ku ruhande hari ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro ya kake wicaye yifashe mu biganza imbere ye hari umugore wicaranye n'abana batatu barimo babiri bambaye imyenda y'ishuri kuri iyi shusho hari amagambo arimo ibara ry'umuhondo n'andi arimo ibara ry'umweru avuga ngo u Rwanda rwite ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu bwijimye, ayandi ari mu ibara ry'umweru, andi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ayandi ari mu ibara ry'umukara, ahagana hagati hejuru hari ikimenyetso gikozwe mu ruziga, hirya hari ikindi kimenyetso cy'umuntu wazamuye akaboko.

Inyubako ndende igeretse kabiri, iteye amarangi y'umweru ndetse n'ubururu. Ku ruhande rw'iburyo ifite ibirahure biyubatseho byinshi. Imbere yayo hari imbuga yubakishije amapave. Haparitsemo imodoka hari n'abantu b'urujya n'uruza.

Itsinda ry'abakobwa n'abagabo bambaye amataburiya y'umweru harimo uhagaze, wifashe mu mayunguyungu, begereye undi wunamye uri gusuka ibintu mu gakombe, imbere yabo hari ameza manini ateretseho ibintu bitandukanye, ndetse n'akabati karimo utuntu dutandukanye, bari mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'akuma kifashishwa mu kumenya uko umutima utera mu ijosi, yicaranye n'umubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge kirimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, bari kuganira. Inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ya rukarakara ndetse n'umurima w'insina.

Icyumba gifite impuzankano y'ira ry'umweru haba muri parafo ndetse no hasi imbere hari icyumba kirimo amarido y'umweru hakuno hari akabati kariho amabara y'umuhondo n'umutuku ndetse n'umweru kandi hagati hari agatanda gatoya kegereye intebe ya palasitike y'umweru.

Inzu igeretse rimwe ifite amabara y'ubururu ndetse n'umukara isakaje amabati'ubururu imbere yayo harimo ihaparitse hari n'abantu bari kuhagendagenda harimo nk'uwambaye imyenda y'imikara imbere yayo kandi hari imbuga nini yubakishije amapave ndetse n'agace gato k'ubusitani.

Abantu bicaye bambaye imyenda ifite amabara arimo ubururu, umuhondo harimo n'ababyeyi bateze ibitambaro bahetse abana. Imbere yabo hari inyubako iteye irangi ry'umweru yanditseho amagambo avuga mu kinyarwanda ngo ni urwakiririro.

Icyumba, cyiganjemo ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'igitanda, kiriho amashuka y'umweru hejuru yacyo hari itara ryifashishwa mu gutanga urumuri mu gihe bari kubaga, iruhande rw'icyo gitanda hari agatebe gafite umufariso w'umukara, ndetse icyo cyumba kirimo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuntu uryamye mu gitanda wiyoroshe amashuka y'umweru, wegeranye n'imashini ziriho ekara ziri kumenya uko ubuzima bwe buhagaze, iyo mashini kandi iri insinga ziri kumuha, inyuma ye hari idirishya rinini ririho irido ry'umweru.

Inzu yubakishije amatafari ya mpunyu ahiye, iteye irangi ry'umuhondo mo imbere mu ibaraza kandi mu ibaraza ryayo hicayemo abantu ku rubaho iyo nzu imbere ifite akarongo k'umweru kanditseho amagambo avuga ngo ni inzu y'ubushakashatsi imbere yayo kandi hari ubusitani buteyeho indabyo.

Inyubako igereretse kabiri, iteye irangi, ifite amadirishya y'umweru hagati harimo agasima gashakaje amabati y'umutuku, imbere yayo mu mbuga hari uruvange rw'abantu bambaye udupira tw'ubururu kandi haparitse n'imodoka. Iyo nzu ikorotirije urugo rufite ibyuma biteye irangi ry'umutuku.

Abantu bari ku murongo barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, ubururu, umweru ndetse n'umutuku. Imbere yabo hari intebe ziteye ku murongo z'umukara ndetse n'urubaho. Imbere cyane hari abantu bicaye imbere y'imeza isa umweru ndetse n'undi muntu wicaye mu kagare k'abamugaye.

Inyubako ndende igeretse gatatu, mu mbuga yayo haparitse imodoka zitandukanye kandi hahagaze n'abantu, mu muryango winjira mu gipangu cy'iyo nzu hari bariyeri y'icyuma gisize ibara ry'umutuku n'umweru, hari imodoka y'umukara iri gusohoka mu icyo gipangu.

Inzu yubakishije amatafari imbere hari urugi runini rw'icyuma rurimo ibirahure bibonerana, hejuru y'urwo rugi hari amagambo yanditseho ari mu mabara atandukanye nk'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo n'icyatsi.

Inzu iteye irange ry'umweru ifite akabaraza gateyemo irange ry'umukara kanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, imbere yayo hateye indabyo kandi hari n'inzira y'amapave.

Inzu nini iteye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe z'ubururu, ameza, ikindi hari n'urwakiriro rufite ibara ry'umweru, inyuma yarwo hari izindi ntebe zisa umukara

Icyumba giteye irangi ry'umweru kirimo udutanda tugiye dukurikiranye dusa ubururu kandi iruhande rw'utwo dutanda hari imashini nini zifite amateleviziyo yerekana ko ubuzima bw'umurwayi bugiye buhagaze, inyuma hari amadirishya manini y'ibirahuri.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo, ku mabaraza yayo hakikijwe n'ibyuma, biteye irangi ry'umukara, isakaje amabati y'umutuku hari abantu bayirimo, ahagana hasi mu mbuga yayo haparitse imodoka ifite irangi ry'umutuku, ndetse hashinze n'ibendera rya Repubulika y'u Rwanda.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo hariho icyapa kigaragaza inzu igurisha imiti ahagana hasi mu kabaraza k'iyo nzu hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru kandi haparitse n'umumotari wa moto.

Icyumba kirekire kigabanyijemo kabiri giteye irangi ry'umweru kirimo ibitanda bikurikiranye bishasheho amashuka y'umweru, hejuru yabyo hateye inzitiramibu ziri mu ibara ry'umweru naho ahagana mu madirishya y'icyo cyumba hariho amarido y'ubururu.

Icyuma gifite ibara ry'ubururu n'ikindi kiri hagati gifite ibara ry'icyatsi gifite utwicungo tw'ubururu n'icyatsi gishinze mu busitani. Inyuma yacyo hari urugo rwubakishije amatafari ndetse n'ibyuma biteye irange ry'umukara. Ni icyuma cyifashishwa abana bagikiniraho.

Icyumba giteye irangi ry'umweru ku bikuta no hejuru muri parafo, kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'igitanda kiryamwaho n'umubyeyi, imashini iriho, amateleviziyo, aba agaragaza umunota ku wundi uko ubuzima bw'umurwayi bumeze hejuru kandi icyo gitanda hari icyuma gitanga urumuri kigaragariza umuntu mu gihe bari kumuvura.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru gifite ibirahure by'umukara hagati hari igitanda gishashe ishuka y'umweru yegeranye n'imashini nini ifite televiziyo y'umukara, imashini yifashishwa mu gupima ubuzima bw'umurwayi ku ruhande rwo hirya hari icyuma cyifashishwa umuntu yirukaho muri siporo ngororamubiri.

Inzu ifite korodoro ndende, iteye irangi ryumweru, ku ruhande rw'iburyo hari amadirishya afite irangi ry'umukara, naho kuruhande rw'ibumoso hari ibitanda biri ku murongo, bifitemo ibara ry'ubururu ndetse matera zirasa umweruru ibyo bitanda bigiye biciyemo ibyumba bigabanyijemo amarido ajya gu gusa umuhondo.

Icyumba kizwi nka gimu kirimo ibyuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri bimeze nk'igare umuntu yicaraho akanyonga, imbere yabyo hari imashini zifite ekara ziba zigaragaza uko umuvuduko ungana umuntu ari kugenderaho.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo imbere yanditseho ngo inzu y'ababyeyi, imbere mu ibaraza imbere y'umuryango hahagaze abantu ndetse n'abandi bicaye harimo abambaye udupira t'ubururu umweru n nundi wambaye ikoti ry'umukara imbere y'abicaye mu ntebe hari ameza hariho igitambaro cya kacya.

Icyumba kigari cyubakishijwe ibirahure ahanini ndetse n'ibyuma bifashe ibyo birarahure bifite ibara ry'umukara imbere hasa nk'aho ntakintu gihari uretse intebe z'imbaho hakurya hariyo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo ngororamubiri bisa nk'aho ari inzu ya jimu.

Umuntu wambaye agashati k'umweru yashyize umwana we mu munzani ngo arebe ibiro bye uko bingana, hirya ye ku gikuta kiriho amakaro hicaye abandi babyeyi bateruye abana nabo baje gupimisha ibiro abana babo bafite.

Urukuta rw'amabuye rukikije inzu iri hejuru ifite inkingi z'umweru. Hejuru hariho icyapa cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umweru avuga ngo; ikigo nderabuzima cyatabagwe. Hari abantu urujya n'uruza bari kugenda imbere y'iyo nzu.

Itsinda ry'abantu bari ku murongo bamwe bari imbere abandi bari inyuma bambaye imyenda ifite amabara atandukanye nk'umutuku, umweru niwo wiganje n'umukara, inyuma yabo hari inzu ngari iteye irangi ry'umuhondo ku mpande ariko ahagana hagati iteye irangi ry'ivu, handitseho amagambo avuga ngo "ibitaro bya Rwamagana".

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye giteye irange ry'umweru, muri ibyo bikoresho harimo ibitanda ndetse na puberi bamenamo imyanda, ndetse n'utubati bashyiramo imiti. Hakurya hari izindi mashini ziriho amateleviziyo, yerekana uko ubuzima bw'abarwayi buba buhagaze.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru wunamye ari kwita k'umurwayi uryamye ku gitanda gifite matara y'ubururu ariko ibyuma by'igitanda birasa umweru ,umurwayi yambaye igitambaro ndetse n'igitenge bisa aryamye agaramye iruhande rwe igikuta kirasa umuhondo.

Inyubako yubakishije amatafari ya mpunyu, iteye ibara ry'umuhondo mu nkingi ndetse n'umuzenguruko wayo, ahagana mu ibaraza inzugi z'iyo nzu ziteye irangi ry'umuhondo, kandi hateretse intebe z'imbaho hari n'umugabo uri kugenda iruhande rw'iyo nzu.

Uruhurirane rw'udukoresho dufite ibara ry'umukara duteretse ahabugenewe twifashishwa mu myitozo ngororamubiri kandi iruhande rwatwo hari n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri bibarizwa mu nzu izwi ku izina rya jimu.

Inzu ndende, igeretse kabiri, ifite amadirishya y'ibirahure byijimye, iteye irangi ry'umweru, kuruhande rw'iburyo hari agakuta kubabakishije amatafari ahiye, iyo nzu ifite urugo rw'ibyuma bisa umutuku, haruguru hari umuhanda urimo abantu b'urujya n'uruza.

Icyumba giteye irangi ry'umweru ku bikuta kirimo igitanda kiriho akamatera k'ubururu, ariko amaguru y'igitanda arasa umukara, iruhande rwacyo kandi hari imashini nini iriho ekara nini igaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buba buhagaze, hirya y'iyo mashini hari irido rinini.

Inzu ndende igereretse gatatu iteye amarange y'umuhondo amadirishya yayo arasa umweru, imbere yayo hari imbuga nini iparitsemo amamodoka afite amabara nk'umweru n'umukara, hakuno hari umuryango winjira kuri iyo nzu uriho icyuma gisize ibara ry'umutuku n'umweru.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, kirimo ibitanda byinshi bikurikiranye biryamyeho abarwayi, harimo abakuze ndetse n'abana, biyoroshe amashuka y'umweru, iruhande rwabo hari utubati duteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Inzu yubatse igeretse iteye irangi ririmo ubururu n'umukara, ifite amadirishya y'ibirahure, imbere yayo haparitse imodoka hari nabantu bari kuhagenda, ifite imbuga nini ndetse n'ubusitani.

Inyubako zubatse mu buryo bw'uruziga zifite ibara ry'ivu ahagana hagati mu madirishya hari irange ry'umuhondo, hirya yazo hari indi nzu yubakishije amatafari ahiye, hakuno hari ubusitani ndetse n'imbuga nini yubakishije amapave.

Itsinda ry'ibintu bitandukanye birimo ibirahure n'ibikombe ndetse n'imashini izwi yifashishwa mu kureba utuntu dutoya yitwa mayikorosikopi, irasa umweru ndetse n'umukara.

Icyumba gifite amabara atandukanye ku rukuta rw'ibumoso hari ibara ry'ubururu naho hakuno hateye irangi ry'umuhondo harimo ibikoresho bitandukanye nk'utumate ibyuma byifashishwa mu kwiruka ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye harimo nk'ibipirizo bakiniraho n'ibindi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru kandi kirimo ibipirizo by'amabara atandukanye arimo ubururu n'umweru, kuri icyo gikuta cy'iyo nzu hashushanyijeho ijisho ndetse n'umuntu wambaye uturindantoki ufite utwuma tubiri ari kugenda ateranya iryo jisho, ahagana ku ruhande rw'ibumoso hateye intebe z'ibyuma.

Inyubako iri kwaka amatara ajya gusa umuhondo, hejuru iteye irangi ry'umweru kandi isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari ubusitani, hakuno hari indi nzu nayo itera irangi ry'umweru isakajwe amabati y'umutuku ifite igiti kinini iruhande rwayo.

Inzu iteye irange ry'umuhondo hejuru hari inyuguti zanditseho mu ibara ry'ubururu, mu imbere harimo abantu bicaye mu ntebe z'imikara bari gutanga serivisi, hakuno hari utwuma turimo umugozi w'ubururu twerekana ko hatemerewe kunyurwa.

Icyumba giteye irange ry'umweru kirimo ibitanda bibiri biteganye, hagati y'ibyo bitanda harimo imeza, kuri ibyo bitanda kandi ahagana ku mutwe hari imashini zifite amateleviziyo y'imikara yifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi uri kuvurwa buhagaze, inyuma y'ibyo bitanda hari amadirishya harimo amarido.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, arimo arasasa igitanda kiryamwaho n'umubyeyi ugiye guca mu cyuma, imbere ye kandi hari imashini nini cyane ipima ikanafotora umubiri w'umuntu uyiryamyemo.

Icyumba gisize irangi ry'umweru haba kukuta hejuru harimo imashini nini ifite igitanda ndetse n'urundi rwuma ruri imbere rukoze umuzenguruko hakuno hari imashini iriho televiziyo ipima uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba gifite ibara ry'umweru, kirimo irido rya beje, ndetse n'ibindi bikoresho nk'intebe, n'ameza, ateretseho udukoresho dutandukanye, n'akabati kari ahagana ku gikuta, ndetse n'ifoto y'abantu babiri bahagaze bafatanye mu biganza.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo ifiteho amagambo imbere yayo yanditseho ari mu ibara ry'umweru avuga ngo ibitaro bya karayesi, ifite amadirishya manini y'ibirahure kandi ku mpande zayo hateye irangi ry'umweru imbere yayo hari ubusitani n'indabyo zitandukanye.

Umwana wambaye agapira ndetse n'agakabutura k'icyatsi afite ibase mu ntoki y'umukara, inyuma ye hari umugabo wambaye ishati y'igitenge afashe umwana mu ntoki bari kugenda munzira yubakishije amapafe. Iruhande rwabo bakikijwe n'indabyo zitandukanye, naho inyuma yaho hari inzu zitandukanye zubakishije amatafari ahiye zimwe ziteye n'amarangi y'umweru n'indi ishakaje amabati y'umutuku.

Abantu bambaye amataburiya y'ubururu basutamye inyuma yabo hari abandi bahagaze bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umukara ndetse n'umweru, inyuma yaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye iteye irangi ry'umuhondo ku nkingi zayo, iyo nzu kandi isakakaje amabati y'ubururu.

Inyubako ifite icyapa imbere, kirimo ibara ry'ubururu, n'umweru, kiriho ikiranganirwa cy'u rwanda ndetse n'ikirango kiranga ikigo gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda arabisi imbere y'iyo nyubako hari imbuga nini iparitseho imodoka ziririmo ibara ry'umweru, n'indirimo ibara ry'umukara.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ifite korodoro imbere ndende, ahagana ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso hari imiryango iteye irangi ry'ikigina, naho ahagana hasi hashashe amakaro, ku mpande hari udusima dusize irangi ry'umukara, ahagana hejuru hari parafo.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara ari kuzinga inzitiramibu isa ubururu. Hasi hari igitanda kiryamyeho umuntu wiyoroshe. Hakurya hari izindi nzitiramibu ziziritse hejuru bigaragara ko naho hari ibindi bitanda.

Icyumba kigari gifite ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'intebe zo kwicaraho, ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, nka mudasobwa ndetse, n'imbeba zifashishwa mu mikoreshereze ya mudasobwa n'ibindi bikoresho.

Inyubako ndende ifite amadirishya manini y'ibirahure, hejuru handitseho ngo ibitaro bivura amaso hashushanyijeho n'jisho, ahagana munsi hari inzugi zifite ibara ry'ikigina, imbere hari imbuga nini yubakishije amapave.

Inyubako iteye irangi ry'umweru, mo imbere harimo abantu, harimo umubyeyi uhetse umwana, wamutwirikije agashura k'umweru. Iyo nzu hariho icyapa kiri mu magambo y'umweru cyanditseho amagambo avuga ngo "inzu igurisha imiti ya Iraguha." Ku ruhande rw'iyo nzu hanze hari umumotari uparitse n'imodoka y'umweru.

Inyubako ifite inkingi zubakishije amatafari ya mpunyu, ifite imiryango y'ibirahure binini kandi bisa umweru, hejuru hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, iyo nzu yegereye umuhanda wa kaburimbo.

Urugi rufite ibara ry'ubururu rushushanyijeho inyuguti za ha, ku ruhande hari ibindi byapa biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ni inzu iri imbere isakaje amabati y'ubururu iteye irangi ry'umuhondo, hagati mu gipangu hateyemo ibiti.

Inzu iteye irangi ry'umweru ifite inkingi nyinshi, mu ibaraza ryayo ahagaze umuntu wambaye taburiya y'umweru, wikoze mu mufuka afite n'ipantaro' y'umukara yambaye, naho iyo nzu ifite amadirishya manini kandi imbere yayo hari akayira kubakishije amapave ndetse n'ubusitani.

Umuntu wambaye ishati y'iroza iriho akorango k'umweru ku kuboko yegeranye n'umugabo wambaye ishati n'ipantaro y'umukara, bari gukora ku murwayi uryamye ku gitanda wambaye agakanzu karimo utubara tw'icyatsi n'umweru.

Icyumba giteye irange ry'umweru ndetse n'inzugi zirasa umweru, hakuno mu nguni hari ivaze irimo ururabo rw'icyatsi kibisi, mu muryango wegereye ivaze hejuru hariho ibimenyetso biri mu ibara ry'umutuku.

Abantu barimo abagabo n'abagore bahagaze bemye bambaye amashati y'umweru, iroza, amapantaro y'umukara. Bamwe bafite ibitabo mu ntoki ndetse abandi bafite inkoni zigendanwa n'abantu b'impumyi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru ariko kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe zifite ibara ry'ubururu, zegamirwa, zicarwaho n'abarwayi ndetse n'izindi ziri imbere yazo zicarwaho na muganga. Icyo cyumba kigabanyijemo utwumba dutandukanye n'amashitingi afite ibara ry'ubururu. Inyuma ya shitingi hari intebe isanzwe yicarwaho.

Inyubako ikinguye ifite imiryango isize irange irimo ibirahure byera, mu imbere harimo utubati turimo imiti, hanze ku rukuta rwo hejuru hariho icyapa cyanditseho ngo hano tugurisha imiti, imbere y'iyo nzu hari imbuga yubakishije amapave haparitse imodoka.

Inyubako igeretse rimwe iteye irangi ry'umweru ku mabaraza hakotirije ibyuma biteye irangi ry'umweru iyo nzu ishakakaje amabati y'ubururu ahagana hagati hari inkingi ziteye irangi ry'umutuku birimo icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara y'umukara agira ati ikigo nderabuzima cya Kinyinya imbere y'iyo nzu hashinze ibendera rya repubulika y'u Rwanda hari n'ubusitani n'inzira y'amabuye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, gifite inzugi z'umukara, harimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru, harimo intebe zicarwaho na muganga, harimo amateleviziyo afite ibara ry'umukara, byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi uharwariye buhagaze, ku bikuta hamanitse ifoto.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku wasetse, iruhande rwe hari umuforomo wambaye ishati y'ibara ry'ubururu bwerurutse, afite agakoresho kifashishwa mu kumenya uko amaraso atera mu umubiri. Bicaye mu mifariso ifite ibara rya kake; inyuma yabo hari idirishya rinini y'umweru.

Inyubako isa umweru igeretse rimwe, ku mabaraza yayo hakorotirije ibyuma, biteye irange ry'umweru kandi hanicayeyo abantu, hagana hagati hari inkingi ziteye irange ry'umuhondo ndetse n'icyapa cy'umweru, kirimo amagambo y'umukara, avuga ngo ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi.

Umuntu wunamye wambaye itaburiya y'umweru yaziritse akagozi ku muntu uryamye wambaye umupira w'umweru, ikabutura y'umukara n'ingofero n'agapfukamunwa aryamye ku gitanda cy'ubururu bari kumuvoma amaraso.

Icyumba giteye irange ry'umweru haba hejuru ku idari, ku bikuta ndetse no hasi kuri sima, iyo nzu irimo ibikoresho bitandukanye nka televiziyo ifite ibara ry'umukara, ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, intebe zo kwicaraho n'ibindi.

Icyumba kirekire gisize irangi ry'umweru gifite amadirishya, ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso harimo ibirahure byera, iyo nzu irimo ibitanda ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso, biryamweho n'abarwayi kandi biyoroshe amashuka y'umweru ndetse na kake.

Icyumba gifite impozangano y'ibara ry'umweru, haba ku bikuta ndetse no hasi, kirimo ibitanda biryamwaho n'umubyeyi bifite ibara ry'umuhondo, na ho ku ruhande hari agatebe k'umukara kandi hagati y'ibyo bitanda harimo utubati tubikwamo imiti ndetse n'utumashini twifashishwa.

Inyubako ngari yegeranye n'indi yubakishije ibirahure imbere yayo hari imbuga nini iparitseho imodoka zitandukanye zifite amabara arimo umukara, umweru wera kandi muri izo modoka harimo n'ibangukiragutabara hagati hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umumukara urimo ayobora abantu aho baparika.

Icyumba kigari gifite ibara ry'umweru n'amadirishya afite ibirahure by'umukara, hagati harimo utubati duteretsemo ibintu bitandukanye ndetse n'ubukarabiro, hakuno mu nguni hari puberi bamenamo imyanda.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo iri ifite amadirishya ariho amarido nayofite ibara ry'umuhondo kirimo ibitanda bikurikiranye biriho amashuka y'umweru ndetse n'ubururu hejuru y'ibyo bitanda haryamyeho abarwayi ahagana hejuru muri parafo hamanitse inzitiramibu.

Inyubako igeretse rimwe iteye irangi ry'umuhondo ahagana hasi ifite amadirishya n'inzugi nini z'ibirahure zifashwe n'ibyuma biteye irangi ry'umukara, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka iri mu ibara ry'ubururu, naho ku ruhande rwo hirya imbere y'inzugi hari amavaze arimo indabyo.

Urujya n'uruza rw'abantu, harimo umusekerite wambaye imyenda y'akazi, wegereye icyuma gifite amabara y'umweru n'umutuku, hakurya hari inzu ngari ifite irangi ry'umuhondo isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo mu mbuga hari imodoka zihaparitse.

Inzu yiganjemo ibara ry'umweru haba hejuru kuri parafo ku rukuta ndetse no hasi, ifite ibirahure ku bikuta byera, ahagana hejuru ifitemo za kamera ndetse n'amatara ari kwaka ibara ry'umweru ifite inzugi z'ibyuma.

Icyumba kigari giteye amarange atandukanye arimo oranje, umutuku, icyatsi kererutse n'ubururu bwijimye, harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe ndetse n'ibikinisho by'abana nk'utunyamasyo n'ibindi.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru ndetse n'akantu mu mutwe, imbere ye hari imashini ifunguye iri mu ibara ry'ubururu n'umweru yakozemo imbere, hirya hari izindi mashini zisa nk'iyo ngiyo iri imbere ye, naho inyuma ye hari ameza asize irangi ry'umweru n'akarongo k'umutuku ateretseho ibintu bitandukanye.

Icyumba gifite ibara ry'umuhondo kirimo ibikoresho bitandukanye n'imashini zifashishwa mu buvuzi buteye imbere, nk'igitanda kiri hagati kiryamwaho n'umuntu ugiye kubagwa, hejuru yacyo hari imashini zitanga urumuri mu gihe bari kubaga, ku ruhande hari ingarani zikozwe mu mashashi zirimo amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'icyatsi n'ubururu.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse na ekuteri mu matwi afatishije akaboko ke k'iburyo icupa ry'amazi arimo arayanywa, araramye kandi ku kaboko ke k'iburyo yambaye isaha.

Uruvange rw'imbuto zitandukanye zirimo imineke, pome, ironji, pavuro, ishu ndetse n'ibindi. Iruhande rw'izo mbuto kandi hari utwuma dutandukanye twifashishwa muri siporo ngororamubiri.

Umuntu upfukamishije ukuguru kwe kw'iburyo ariko ukw'ibumoso kurashinze, aremye yazamuye amaboko ye yombi, yambaye agapantaro k'ubururu bwererutse ndetse n'agashati k'umweru. Ari mu myitozo ngororamubiri, imbere ye hari ikivase kirimo ururabyo.

Umuntu wambaye umupira w'umukara wanditseho makumyabiri na rimwe ndetse n'agapira k'umweru mu imbere aricaye yambaye ikabutura y'umweru ndetse n'inkweto za godiyo zifashishwa mu mikino itandukanye, ku kaguru ke hari icyuma bashyizeho cy'umukara yicaye ku gatanda k'abavunitse.

Icyumba gifite impuzankano y'ibara ry'umweru harimo imashini y'ibara ry'umweru ahandi ikoze nk'igitanda naho mu gice cy'inyuma ikoze nk'uruziga, n'imashini yifashishwa mu gupima uko umubiri w'umurwayi uhagaze.

Abantu batatu bambaye amakasike afite amabara atandukanye arimo umuhondo n'umutuku. Kandi bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'ikigina. Amakabutura yabo bambaye yo afite ibara ry'umuhondo, umwe wo hagati afite umupira mu ntoki ze.

Umuntu wicaye mu nzi zizamuka zizwi nka esikariye yambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara n'inkweto afite terefone mu ntoki kandi afite naka esuwime mu ijosi rye gafite ibara ry'umuhondo arimo aranywa amazi.

Umuntu uryamye hasi bahambiriye, imbere ye hari umwana wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara wunamye yamufashe ku maguru, hirya hari abandi batatu bamwegereye nabo bapfukamye, inyuma yabo hari ameza hariho igitambaro cy'umweru n'abandi bantu bahagaze.

Abantu batanu bambaye amataburiya y'ubururu, udupfukamunwa ndetse n'udushashi mu mutwe. Imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu, iteretseho amasorori n'ibindi bikoresho. inyuma yaho hari amamashini afite ama ekara yifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Umuntu wicaye wambaye ikoboyi y'ubururu afatishije ukuboko kwe kw'iburyo, ishashi irimo amazi y'ubururu ahagana mu kabumbambari ke k'akaguru k'iburyo, yicaye kandi ku buriri bufite amashuka y'umweru.

Abantu bari kurwana umwe yambaye itaburiya y'ubururu, undi yambaye itaburiya y'umweru bari mu ruziga rw'umukara hasi hari ipfundo. Hepfo yaho hari amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu uryamye ku buriri wazamuye akaguru ke wagashyize mu cyuma, imbere ye hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'abandi bagabo bambaye amakote harimo uwambaye ikote ry'ubururu na karuvate y'umutuku n'undi wambaye ikote ry'umweru wifashe ku kananwa.

Umuntu wambaye agapira k'umweru n'agashneti mu ijosi yafatishije ukuboko kwe kw'iburyo ishashi irimo amazi y'ubururu mu nkokora y'ukuboko kw'ibumoso yambaye kandi umwenda wo hasi w'ubururu.

Abantu bari kumurongo bambaye amajeri y'umweru ariho ikimenyetso cy'umusaraba utukura, imbere yabo hari umuntu wambaye ijire y'umutuku wafashe umuntu ku gikanu amuryamye ku bibero bye hasi hari ikiringiti.

Umuntu wicaye wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afashe ku cyuma gifashweho n'undi mugabo wambaye agapira k'umweru n'ikabutura na we uri kwiga kugendera muri ako kuma, inyuma yabo hari utundi dukoresho nk'icyuma gitanga umuyaga mu nzu.

Uruvange rw'imipira yifashishwa mu mikino itandukanye, nk'umukino w'amaguru umukino w'amaboko ndetse n'uw'iteraranamakofe, iyo mipira yegeranye n'agakoresho gafite umugozi w'umukara n'utuntu bashyira mu matwi twifashishwa mu kumenya uko umutima utera.

Umugabo wambaye agasengengeri k'ubururu, ipantaro y'umukara yaciyemo uturongo tw'umweru ahagana ku matako yambaye n'inkweto z'umweru na koteri mu matwi ari gukora siporo ukuguru kumwe yaguhinnye ukundi yaguteye imbere ye amaboko ye yombi afashe ku ivi ry'ukuguru kw'iburyo.

Umupira wifashishwa mu mukino w'amaguru, ufite amabara arimo umweru n'umukara, iruhande rwawo hari akuma kifashishwa mu kumenya uko umutima utera, ndetse n'urukweto rwa godiyo, rwifashishwa mu mukino w'amaguru. Rufite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Agasanduku gafite ibara ry'icyatsi karimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi harimo nk'imakasi, harimo ibipfuko, amavuta, ibinini ndetse n'inshinge.

Abantu bari gukina imikino itandukanye hari uwicaye hasi warambuye amaguru hari undi muntu wambaye agapira k'umutuku uri guha ikarita y'umuhondo wambaye umupira w'umukara hari abandi bari gukina, ahantu hari utuntu tw'umutuku hari abandi bari gukina imikino kurwana hari abandi bari gukina imikino yo gukubita agapira ndetse n'ikibuga gikinirwamo umukino w'amaguru.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, arararamye yazamuye akaboko ke k'iburyo, gafashe icupa ry'amazi ari kunywa, ukuboko kwe kandi kw'iburyo kwambaye isaha y'umukara, afite ubwanwa.

Umugabo wambaye taburiya y'umweru yahurije hamwe ibiganza bye ku kuguru k'umuntu uryamye wambaye ikabutura y'umukara nak'imbere gafite ibara ry'ivu ari ku mukanda mu ivi amukorera massage.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umweru ndetse n'ipantaro ya kake afashe akaguru k'umuntu umwicaye imbere arimo arazirikaho ibipfuko ,imbere ye kuko hari umugabo wicaye wambaye inkweto , uburiri yicayeho burasa ubururu imbere hariho umukasi ndetse n'igipfuku.

Umuntu wambaye agasengeri k'umweru kariho uturongo tw'umukara ahagana ku kaboko yamanitse akaboko ke k'iburyo, afashe icupa risa ubururu, ririmo amazi, ariko rifite umupfundikizo w'umukara yararamye arimo aranywa amazi, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye agapira k'umweru ikabutura y'ubururu, yafatishije akaboko ke ku ishashi ahagana mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo, afite inzara ziteye verine y'ibara rya pinki aricaye.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda nk'amakote y'umweru, ay'umukara, ay'ubururu n'ibindi, bambaye udupfukamunwa kandi n'utugofero ku mutwe. Hari abandi bicaye imbere yabo bambaye imyenda y'icyatsi n'umweru, imbere yabo hari ameza manini ateretseho udukoresho dutandukanye nka mudasobwa, telefone n'ibitabo.

Umugabo wicaye wambaye umupira wumukara ndetse n'ikabutura y'umukara n'urukweto mu kaguru kamwe k'ibumoso akaguru ke k'iburyo yagashinze umugore umwegereye wambaye tabulo yubururu ari kumupfuka ho ibipfuko by'umweru.

Umuntu uhagaze wambayepira w'ubururu n'agakabutura k'umukara, afite mu kuboko kwe kw'ibumoso umupira wifashishwa mu mukino w'amaguru, hirya ye hari undi muntu wambaye agapira k'umuhondo agakabutura k'umukara, uri kugendera mu cyuma gisa ubururu.

Umuntu wicaye wahinnye akaguru ke k'iburyo naho ak'ibumoso ke kararambuye arunamye, amaboko ye yombi yafatishije ku kirenge cye cy'akaguru k'iburyo, yambaye ipantaro ndetse n'agasengeri k'umweru, hirya ye hari intebe ndetse n'ivaze irimo ururabyo.

Umugabo wambaye agasengeri n'ikabutura y'umukara, akaguru ke k'iburyo gapfukamye hasi, ak'ibumoso karashinze, amaboko ye yombi yayakojeje ahagana ku kibuno cye, ahagaze ku gatapi k'umukara. Hirya ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Itsinda ry'imbuto zirimo: pome, voka, ironji, indimu ndetse n'imboga nka pavuro, ishu n'izindi, byegeranye n'akuma gafite ibara ry'umukara kifashishwa mu myitozo ngororamubiri bagaterura, hamwe n'icupa ry'amazi.

Uruhurirane rw'ibintu bitandukanye birimo uducupa, uturindantoki dufite ibara ry'umweru, imiti yoza amenyo, ibipfuko ndetse n'utundi tuntu twifashishwa mu butabazi bw'ibanze umuntu avura undi.

Umuntu wunamye wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru yafashe amaguru y'akana kicaye kasetse, inyuma yako hari undi upfukamye wambaye ikanzu y'umweru wijimye n'agatambaro mu mutwe, iruhande rw'uwo mwana hari ibikinisho bitandukanye.

Umugabo wambaye agakabutura k'umukara arunamye, amaboko yombi yayakojeje mu ivi ry'ukuguru kw'ibumoso, yambaye isaha Ku kuboko ifite ibara ry'umukara, ahagaze mu muhanda wa kaburimbo.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo icyatsi, umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'umukara. Bahagaze ku mirongo amaboko yabo ari imbere basa nkaho basutamyemo gake kandi barunamye.

Umwana wasimbutse wateye agapira ari mukibuga, inyuma ye hari abantu harimo abambaye imipira y'umutuku, umukara n'ibindi bari gukoma amashyi. Hirya ye hari abandi bana bafite umupira ukinwa n'umukino w'amaboko.

Amashusho agaragaza abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye abo hejuru umutwe uri kumurya, uwo hasi afite ibibazo undi arikuruka undi aryamye hasi bari kumukanda mu gatuza, hari ugutwi kumva hari mikoro zivuga cyane, hari undi wicaye ku ntebe hari undi wambaye ikoti ry'umukara wikoze ku mutwe.

Ikirango kiriini mu ishusho y'umuzenguruko kirimo amashusho ari mu mabara atandukanye ishusho ya mbere mu ibara ry'ubururu harimo umuntu uri kwiruka ishusho ya kabiridura ry'umutuku harimo ikimenyetso cy'umusaraba ishusho ya gatatu mu ibara ry'icyatsi harimo umuntu uri gukora siporo zo kunyerera ishusho ya kaneri mu ibara rya kake harimo umuntu wafashe ku kuboko kwe hagati yaho harimo igufwa ry'urutirigongo.

Uruhurirane rw'imbuto zitandukanye ndetse n'imboga zirimo nk'ishu, karoti, pome, ironji, pavuro n'izindi mboga ndetse n'imbuto. Hino hari umugabo wambaye agapira k'umweru n'agakabutura k'umukara urimo urirukanka.

Ibinini byakoze ishusho y'umuntu uri kwiruka biri mu mabara atandukanye arimo umutuku, ubururu, umweru, umuhondo yewe n'icyatsi hirya y'iyo shusho y'umuntu ukoze mu binini hari urushinge batera umuntu ndetse n'akarupfundikira hejuru yabyo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'agacupa kajyamo umuti w'amenyo.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku wicaye mu ntebe y'umweru imbere ye hari akabati gateretseho mudasobwa ye, arimo ararebamo hirya ye hari agatanda karyamaho n'umurwayi, n'utundi dukoresho turi mu cyumba dutandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, yicaye hasi akaguru k'ibumoso karahinnye, ak'iburyo kararambuye imbere ye, yambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara kandi amaboko ye yombi yayarambuye yayakoje ku kaguru, inyuma ye hari indabyo zihateye.

Umuntu wicaye yahinnye akaguru ke k'iburyo ariko ak'ibumoso yakarambuye. Arunamye amaboko ye yombi yashyize imbere ye ak'iburyo yagakojeje ku kirenge cy'iburyo yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, hirya hari intebe z'imifariso zifite ibara ry'umweru.

Umukobwa wafashe akaguru ke k'inyuma, yambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'agasengeri k'icyatsi kijimye, akaboko ke k'iburyo yagashyize imbere ye, arahagaze aremye, ari mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, haba hejuru muri parafo, no ku rukuta ndetse no hasi, harimo imashini iryamwaho n'umuntu, imbere yayo hari icyuma gikozwe mu buryo bw'uruziga nacyo gifite ibara ry'umweru, bacishamo umuntu kugira ngo bapime uko mu mubiri we bimeze.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ikabutura y'umukara, uri gukora siporo afite umupira uzwi mu mukino wa rugubi, hirya yaho hari umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro ijya gusa umutuku uri kumutoza, bari mu nzu ngari irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kigari giteye irange ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga nk'intebe iryamwaho n'umurwayi, agatebe kicarwaho na muganga ari kuvura, itara riri hejuru ryifashishwa mu kumurika cyangwa se gutanga urumuri mu gihe bari gutanga ubuvuzi, hirya hari tereviziyo nini y'umukara.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara rya beje na couter zifite ibara ry'umweru, yazamuye akaboko ke k'iburyo gafite icupa ry'amazi, araramye ari kuyanywa. Bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikapu bibiri bifite ibara ry'umutuku kimwe imbere hashushanyijeho ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu kirango cy'umweru hejuru yacyo hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umweru hirya hari abantu bahicaye bambaye amapantaro.

Icyumba gifite impuzankano y'ibara ry'umweru, hagati harimo imashini iryamyeho umuntu woroshe igitambaro cy'umweru, ahagana ku mutwe hari icyuma gikoze uruziga gisa umweru, hino hari amatara ari kwaka mu ibara ry'icyatsi.

Amashusho y'abantu ari mu ibara ry'umukara wijimye, harimo uhagaze uri gutera intambwe, hari uhagaze ku ntebe, wazamuye akaguru ke, hari undi wazamuye akaguru ke, ariko wararambuye n'amaboko ye yombi, hari n'undi wazamuye akaguru kamwe wemye, hirya hari amagambo ari mu mabara y'umukara agiye asobanura ibyo bari gukora.

Icyumba gisize irange ry'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda kirambuye cy'ubururu kandi hejuru y'icyo gitanda hari itara rinini ritanga urumuri mu gihe bari kubaga, agatebe kicarwaho na muganga, utubati turimo ibintu bitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru wicaye hasi yazamuye akaguru ke, yambaye ipantaro y'umukara, yafatishije amaboko ye yombi mu ivi rye. Ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho impeta ndetse n'agakomo hagati mu ngingo y'ikiganza ndetse n'ukuboko.

Inyubako yiganjemo ibara rijya gusa umuhondo, ariko ku bikuta birasa ubururu, harimo abantu ndetse n'ibikoresho bitandukanye nk'ibipirizo binini bifite amabara y'icyatsi na oranje, ndetse n'ibyuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri harimo kandi utubati n'ibindi/

Ikirango kiri mu ruziga harimo igishushanyo cy'umusaraba uri mu ibara ry'umutuku, kandi icyo kirango cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umukara, hepfo yaho hari ayandi magambo manini ari mu ibara ry'umukara.

Imbangukiragutabara iri mu muhanda iri kugenda, iteye irangi ry'umweru, inyuma hari ipine ry'umukara, imbere yayo hari igikuta cy'amabuye naho umuhanda irimo urakata ugeze imbere.

Agakoresho karimo amabara y'ubururu, umuhondo n'umweru, kifashishwa mu kuvura umurwayi wavunitse ijosi, ku ruhande rw'iburyo gafite ikirangantego kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru ryanditseho emutiyeni.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'akamuranga mu ijosi, afashe akaguru k'umuntu uryamye hasi wahurije ibiganza bye ku nda ye. Uwo muntu uryamye yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara. Hakurya ku gikuta hari icyapa kiriho ibice bigize umubiri w'umuntu.

Icyumba giteye irangi ry'umweru haba ku bikuta ndetse no hasi, kirimo imashini nini isa umweru, uruhande rumwe ni urwo umurwayi aryamaho, urundi ruhande rukoze nk'ikiziga rwifashishwa na rwo mu gufotora umubiri w'umurwayi, hakurya ku gikuta hari akabati karimo udukoresho dutandukanye ndetse n'ingarane y'umuhondo ahagana hasi bamenamo imyanda.

Umuntu wicaye wambaye agasengeri k'umuhondo n'ipantaro y'umutuku yarambije kandi arunamye, amaboko ye yombi yayakojeje ku maguru ye, inzara ze ziteye irange ry'umutuku.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi arararamye, yazamuye akaboko ke k'iburyo gafashe icupa ry'amazi rifite umupfundikizo w'umukara arimo arayanywa, yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wicaye wahinnye akaguru ke k'ibumoso, yambaye inkweto z'umweru, akaguru ke k'iburyo karambuye, amaboko ye yombi yayakojeje ku kaguru ke k'iburyo karambuye ahagana ku mano, yambaye agasengeri ndetse n'ipantaro by'umukara.

Umuntu wambaye agasengeri k'umweru wicaye mu kintu cy'umwuka, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ari kumwitegereza amwereka uko akora siporo.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wunamye washikamiye ukuguru kwe kw'iburyo, ahagana ku ivi ry'ukuguru kwe kw'ibumoso hariho igipfuko gifite ibara ry'umweru ari kugikoraho agishyiraho neza, yicaye ku buriri busa umweru.

Itsinda ry'imbuto zitandukanye zimwe ziteretse ku masai abiri y'umweru izindi ziteretse mu gatebo izo mbuto zirimo imineke, inkeri. amagi, inyama, ibishyimbo, amashu, karoti, pavuro ndetse n'izindi iruhande rwazo kandi hateretse udukoresho baterura mu ntoki twifashishwa mu myitozo ngororamubiri hirya yatwo hari isumo y'umweru irambitseho agacupa k'amazi.

Umuntu wicaye wahinye akaguru ke k'iburyo warambuye ak'ibumoso arunamye amaboko yombi yayakojeje ku kirenge cy'akaguru ke k'ibumoso yambaye inkweto zifite ibara ry'umutuku n'umweru n'ikabutura y'umukara n'agasengeri k'umukara kandi ku kaboko k'iburyo yambayeho akantu kamufasha gushyiramo telefone mu gihe ari muri siporo ngororamubiri.

Agacupa gahagaze kemye gafite ubuso bw'ibara ry'umweru kanditseho amagambo manini ndetse n'amatoya ari mu ibara ry'icyatsi, hejuru ku mupfundikizo wako hariho ibara ry'icyatsi.

Voka yose ndetse n'igice cy'avoka, imbere yazo hari isabune iriho akanyoni kagurutse, inyuma yabyo byose hari ikimera cy'igiti cy'igikakarubamba.

Uruhurirane rw'imbuto zitandukanye zirimo amaronji, indimu, amacunga ndetse inkeri n'izindi mbuto zitandukanye, kandi muri izo mbuto harimo ironj rinini rikasemo kabiri n'utubabi tugiye turi ku mpande.

Uducupa duteganye dusa mu ibara ry'umuhondo umupfundikizo ufite ibara rya shokora, hashushanyije n'ikimera k'igikakarubamba, inyuma yatwo hari ikarito nini ifite ibara ry'ubururu bwerurutse hashushanyijeho n'abantu, hakuno hari akandi gakapu kari mu ibara ry'umweru n'umutuku.

Umugabo wambaye ishati ya kake ashikamiye imeza nini iriho ibintu bitandukanye nk'amacupa afite imipfundikizo ya oranje ndetse n'imbuto z'amaronji n'indimu, hakuno kandi hari icupa risa icyatsi, bisa nkaho bari mu isoko.

Isahani isa umweru iteretseho agacupa nako gasa umweru, kazengurukijweho agapapuro karimo ibara rijya gusa umuhondo, handitseho amagambo ari ibara ry'umukara n'umweru, hirya y'ako gacupa hari imbuto z'amacunga zikasemo ibice byinshi.

Itsinda ry'uducupa dutandukanye harimo tubiri twegeranye hirya kamwe gafite ibara ry'umuhondo, umupfundikizo ufite ibara rya shokora n'akandi gafite ibara ry'umweru n'umupfundikizo w'umuhondo, twegeranye n'utundi ducupa duhagaze dufite amabara y'umweru n'indi karito nini ishushanyijeho umuntu.

Akabido gateretse gafite ibara rya beje gashushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hejuru kandi yayo magambo hari akanyoni kagururutse nako kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umupfundikizo w'ako kabido na wo urasa ubururu.

Isahane y'igiti iteretseho ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, hateretseho kandi agasekuru n'umuini wako ndetse n'icupa ry'ikirahure ririmo ubuki hamwe n'ibimera bisa icyatsi kibisi, indabyo ndetse n'insenda n'ibindi.

Uducupa tubiri twegeranye, dufite ibara ry'umuhondo, imipfundikizo ifite ibara rya shokora, ahagana hasi hashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, ku ruhande hari ikirahure cy'amazi, ku rundi ruhande hari ibice bitatu by'ikimera cy'igikakarubamba naho ahagana hasi hari amagambo amwe yanditse mu nyuguti z'umuhondo, andi ari mu nyuguti z'umukara.

Ikimera cy'igishokoro, gifite ibibabi bitandukanye, ndetse n'amashami atatu, hejuru hari akarabyo kamezeho kari mu ibara ry'umweru, hagati harasa umuhondo, hakurya hari utundi turabyo dutatu, tutari twashwiragira.

Agacupa k'umweru gateretse kazengurukijeho agapapuro kariho ibara ry'umutuku ndetse uruyuki ruri ku rurabo, kandi handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ayandi ari ahagana hasi.

Agacupa katari karekare gafite impuzangano y'ibara ry'umweru, kazengurukijeho agapapuro kariho utubara tw'umukara ndetse n'amagambo manini n'amatoya yanditswe mu ibara ryiganje ry'umukara.

Igiti kirandaranda hasi gifitemo uturabyo dufite ibara ry'umutuku ahagana ku mpande ndetse n'umweru mu imbere, ni igiti gifite kandi amababi y'icyatsi kibisi kigendera hasi.

Icyatsi kirandaranda gifite indabyo enye zifite ibara ry'umutuku ku mpande ariko mo imbere harasa umweru icyo giti kandi gifite amashami ari mu ibara ry'icyatsi kibisi kiri hasi ku butaka.

Umuntu wasetse, hagaragara amenyo n'iminwa ye, hepfo ye hari uducupa duteretse dushushanyijeho ikimera k'igikakarubamba, ni imiti yoza amenyo, hakuno hari amagambo yanditse harimo amanini ari mu ibara ry'icyatsi, ayandi ari mu ibara ry'umukara.

Uducupa turundiye hamwe dutandukanye kandi turi mu mabara atandukanye nk'umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'utundi ducupa dusa nk'ubuki.

Uruhurirane rw'imbuto zitandukanye ndetse n'ibiribwa nk'igitoki, ubunyobwa ndetse n'ibibabi by'ibiti bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi kibisi, mu gitoki harimo bitatu bizima n'ibindi bibiri biciyemo kabiri.

Uducupa tw'umweru dutatu, tubanza, ubona ko dusa, inyuma yatwo hari icupa rinini rirerire ririmo ubuki, kandi rifite umupfundikizo w'umweru, inyuma yabyo hari ubuki buri ku bishashara.

Agacupa karambitse hasi, bapfunduye kegereranye n'uturarabyo tubiri tw'umweru, ndetse n'umuhondo, iruhande rwako hari ikimera kiikarubamba, ku rundi ruhande higanjemo ibara ry'icyatsi, harambitse uducupa tubiri dusa iruhande rwatwo hari ikimera cy'igikakarubamba.

Udukarito tubiri duteganye kamwe kabanza kari mu ibara ry'umweru ndetse na shokora agana hasi karimo uducupa dukurikiranye, hirya hari akandi kari mu ibara ry'umweru n'ayandi mabara y'umutuku nako gapakiyemo uducupa dutandukanye, dukurikiranye.

Amacupa ari ku murongo afite udupapuro tuyazengurutseho tw'umweru, kandi afite n'udupfundikizo tw'ubururu, ayo macupa harimo ibintu bitandukanye harimo ibiri mu ibara risa nka shokora yijimye, n'ibindi biri mu ibara bisa nka esanse.

Ikarito ifite mpande enye ihagaze isize amabara atandukanye arimo umuhondo, ubururu n'umweru kandi yanditseho amagambo arimo ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, ahagana hasi hari ikirango cy'uruziga kirimo ibara ry'umutuku cyanditsemo amagambo arimo ibara ry'umuhondo arimo imibare nka mirongo itanu ku ijana ndetse na makumyabiri ku ijana.

Uducupa dutatu duteye kimwe ariko turi mu mabara atandukanye ,utwo ku ruhande turi mu ibara ry'umweru ako hagati kari mu ibara ry'umuhondo kandi kandikishijeho amagambo ari mu ibara rya shokora, gusa twose nubwo tungana dufite imipfundikizo idasa, kamwe gafite umupfundikizo w' umutuku akandi gafite umupfundikizo uri mu ibara ry'ikigina akandi gafite umupfundikizo usa nka oranje.

Amakarito atatu afite ibara ry'umweru n'umutuku yandikishijweho kandi amagambo arimo ibara ry'ubururu bwererutse n'umuhondo, andi ari mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ikiyiko cyadashye ubuki mu gikombe, iruhande rwabyo hari ibibabi byinshi bicagaguye ndetse na tungurusumu hamwe na tangawize byose biteretse ku meza.

Ikimera cy'umuravumba cy'icyatsi kibisi,, cyegeranye kandi n'izindi ndabyo zashishe, zifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'izindi zitari zashibuka neza, ngo zigaragare, hamwe n'ibindi byatsi bitandukanye.

Agacupa gateretse ariko mu buryo bucuritse, gafite ibara ry'umweru ndetse ni iry’cyatsi, kanditseho amagambo ari m’ibara ry'icyatsi n'umukara, ahagana hasi hashushanyijeho ikimera k’igikakarubamba.

Ibice by'umubiri w'umuntu bitandukanye, harimo umugongo, ivi, mu nkokora mu nshe z'amaboko, mu ntugu, mu ijosi n'ahandi, ku ruhande bari kutwereka uducupa turimo amavuta atandukanye, uducupa dusize irangi ry'umweru n'ubururu.

Uducupa dutatu tureshya kandi tungana ,gusa turi mu mabara atandukanye, akari hagati kari mu ibara ry'umuhondo naho tubiri turi ku mpande turi mu ibara ry'umweru uretse ko twose dufite imipfundikizo ifite amabara atandukanye , aka mbere gafite umupfundikizo w' ibara ry'umuhondo akandi shokora akandi umutuku, kandi twegeranye n'uducupa duteretse mu buryo bucuritse tw'umweru, iruhande rw'utwo tubido twose hari ikimera cy'igikakarubamba.

Ikiganza cy'inzobe gifashe ku kibabi gifite ibice bitatu, imbere yacyo hari igiti gifite ibishami byinshi, bikoze nk'uburyo butatu, bifite ibara ry'icyatsi kibisi, hakurya hari inzu yubakishije amatafari.

Ibimera bifite amabara atandukanye, ikibanza mu ruhande rw'ibumoso gifite uturabyo tw'umuhondo, hari n'igikurikiyeho cyerurutse n'ikindi gifite icyatsi kibisi kiri hagati, hepfo kuruhande rw'ibumoso hari ikindi gifite utubabo tw'umutuku, n'ikindi cyayuma kiri mu ivase y'umweru, ahagana hejuru hari ikindi kiri iruhande rw'iburyo cy'igikakarubamba cy'icyatsi kibisi, hakuno hari ikindi kiriri mu ivase y'umutuku.

Icupa rirerire ry'umweru rishushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba rifite umupfundikizo ndetse n'amagambo aryanditseho afite ibara ry'umutuku, uruhande rwaryo hari akandi gacupa gatoya nako gasa umweru byose biteretse ku meza y'igiti, iruhande rw'iburyo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Icupa riteretse risize ibara ry'umutuku ririho akanyoni kagurutse karimo ibara ry'umukara, hepfo yako hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru manini n'andi ari mu murongo w'umweru yanditse mu ibara ry'umukara.

Agacupa gacuritse, hejuru gafite ibara ry'umweru ashushanyijeho akanyoni ndetse n'amagambo arimo ibara ry'ubururu, hasi hari umupfundikizo uri mu ibara ry'ubururu, aka gashushanyo kari mu ishusho ifite ubuso bw'ibara ry'umukara.

Amacupa akurikiranye amwe arasa andi ntago asa, harimo afite ibara rya kake, umutuku ndetse n'ikigina, irindi rirasa umukara ariko rifite umupfundikizo w'icyatsi.

Agacupa gasa umweru kazengurukijeho agapapuro karirimo ibara ryiganje ry'umutuku ndetse n'iry'umweru, ku ruhande hari umugabo n'umugore b'abazungu begeranye n'amagambo yanditse mu cyapa cy'ibara ry'icyatsi, aya magambo yo yanditse mu ibara ry'umweru.